Ababyeyi barimo barapimisha abana babo ibiro, babifashijwemo n'umujyanama w'ubuzima, aho yamanitse umunzani arimo arapima abana kugira ngo amenye ubuzima bwabo uburyo buhagaze.

Abana batoya barimo barakaraba ubona ko bishimiye igikorwa bari gukora, bari gukarabywa n'umugabo arimo arabasukira amazi ku ntoki, barishimye kubera ko iyo umuntu akarabye agira isuku akanirinda indwara.

Umumama ukikiye umwana, akaba yaje ku ivomero rusange kuvoma amazi meza, yatanzwe kugira ngo hanozwe imiberero myiza y'abaturage ndetse n'isuku, kandi n'ayo mazi akomeza no kubafasha mu bundi buryo, harimo no kuyatekesha.

Umuntu urimo urakaraba ukuboko kugira ngo akuvaneho imyanda iba iriho itandukanye maze akomeze kugira ubuzima bwiza, arimo arakaraba amazi ariko amazi ari gukaraba ari guhita ajya mu yandi mazi atemba bishobora gutuma na yo yandura.

Umwana mutoya ari ku rukarabiro arimo arakaraba mu maso, ubona ko ari amazi meza bahawe kugira ngo akoreshwe n'abaturage, hagamijwe kunoza isuku andi bakayatekesha, kugira ngo ubuzima bwiza bukomeze bugere kuri bose.

Umuntu urimo atanga inkuru zitandukanye, zirimo amakuru ajyanye n'ubuzima ku isi hose, arimo arayihereza abaturage kugira ngo basome bamenye byinshi byerekeye n'amakuru agezweho ku isi.

Umuryango ushinzwe kwita ku rubyiruko rw'abana batoya ku isi hose, aba bakaba ari abakozi bawo, barimo bakobwa, ndetse n'umugabo, ugamije kugira ngo bateze imbere imibereho myiza y'abana, by'umwihariko urubyiruko.

Umubyeyi arimo arakarabya umwana mutoya, ibiganza yifashishije isabune n'amazi meza. Kugira amusukure neza avanemo imyanda yose iba iri mu nzara ndetse n'ibiganza bicye kandi umwana agire ubuzima bwiza.

Ibikoresho byiza byabugenewe biyungurura amazi, ndetse hakaba hari abanyeshuri barimo baravomaho amazi banywa meza asukuye, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umujyanama w'ubuzima arimo aravura umwana ndetse hari n'ababyeyi benshi batandukanye, bazanye abana babo kugira ngo basuzumwe maze bavurwe, bityo hanozwe ubuvuzi bwiza ku Isi hose kandi imibereho myiza y'abaturage ikomeze gutezwa imbere.

Ku ivomero umumama arimo aravoma amazi meza akaba ari amazi yatanzwe kugira ngo abaturage bayifashishe mu guteka, amasuku ndetse no mu bundi buryo butandukanye kugira ngo hatezwe imbere imibereho myiza y'abaturage.

Umujyanama w'ubuzima arimo arasuzuma abana batoya ndetse bari kumwe n'ababyeyi ubona ko babazanye kugira ngo hamenyekane imimerere ndetse n'ubuzimagatozi bafite kugira ngo hirindwe n'indwara zishobora gufata abana.

Abantu barimo baraganira, harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, ubona ko barimo barungurana ibitekerezo by'uburyo butandukanye, hagamijwe kunoza imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubuvuzi ku isi hose.

Umubyeyi uzaniye umwana umuganga ngo amuvure kugira ngo uwo umwana akire kandi agire ubuzima bwiza, bityo imibereho myiza y'abaturage ikomeze kunozwa ku Isi hose binyuze mu kubavura neza.

Imbaga y'abantu nyamwinshi irimo abagore, abagabo, urubyiruko rw'abakobwa n'abasore, barimo baraganirizwa banahugurwa ku ndwara zitandukanye ndetse hano hafatwa ibibazo bitandukanye ku mibereho myiza y'abaturage kugira ngo habashe kunozwa ingamba nziza kandi zikwiriye.

Umwana mutoya w'umukobwa arimo arakaraba akaraba ibiganza, akaba ari amazi yatanzwe kugira ngo anozwe isuku ndetse n'imibereho myiza y'abaturage ku Isi hose, binyuze kuyakoresha imirimo ya buri munsi irimo kuyatekesha ndetse no mu masuku.

Umuryango ushinzwe gutanga amazi mu gihugu cy'u Rwanda, amazi meza asukuye kugira ngo agere ku baturage bayakoreshe mu buzima bwa buri munsi, maze hanozwe imibereho myiza y'abaturage binyuze mu guteza imbere ubuzima bwiza hamwe no kwifashisha amazi meza.

Umugabo ukorera umuryango ushinzwe guteza imbere ubuzima no kureberera ubuzima bw'abaturage ku isi hose, ari kumwe n'umukobwa nawe bakorana ubona ko bafite imiti bagiye gutanga mu baturage kugira ngo hanoze ubuvuzi.

Ihuriro ry'abana batoya aho bazanwa n'ababyeyi babo bakitabwaho. Hari umwe mu bantu bazwi mu Rwanda mu kuririmba ndetse akaba anakora mu by'ubuvuzi aho arimo arahereza umwana amata. N'abandi bakaba barimo barahereza abana amata kugira ngo bakure neza.

Umupapa ari ku ivomero rusange, afite igikoresho cyifashishwa havomwa amazi ubona ko ari amazi bahawe, kugira ngo yifashishwe n'abaturage mu mirimo ya buri munsi itandukanye.

Inama yahuje abantu batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye, hagamijwe kugira ngo hatezwe imbere ubuvuzi bwiza ndetse n'imikorere myiza hagati y'ibihugu byose. Ubona ko baganiriye kandi bari kugenda bahinduranya ibitekerezo ku ngingo zitandukanye.

Ku ivomero rusange, abantu batoye barimo baravoma amazi bifashishije ibikoresho byabugenewe ndetse hari umuntu urimo urabafasha kugira ngo ayo mazi aze asukuye, ayo mazi akaba ari bwifashishwe mu masuku, guteka no mu bindi.

Abaturage barimo barabyina, barambura amaboko, ubona ko bishimiye serivisi bahabwa n'ibikorwa remezo bakomeza kwegerezwa, birimo nk'amazi, bituma bakomeza kugira ubuzima bwiza aho batuye.

Umwana mutoya arimo aravoma amazi yifashishije igikoresho cyabugenewe, aho arimo aradaha amazi, akaba ari amazi atemba, amazi ubona ko adafite isuku nziza ku buryo yakoreshwa mu guteka cyangwa se mu kuyanywa.

Abantu benshi baje kwivuza kwa muganga, ubona ko barimo barabandikira banabandika mu gitabo kugira ngo babashe kubavura neza kandi bahabwe serivisi inoze bityo ubuvuzi bukomeze kunozwa ku isi hose.

Kwa muganga hari imbaga nyamwinshi y'ababyeyi baje kuvuza abana babo, abana bakiri batoya, kugira ngo bamenye uko ubuzima buhagaze, binyuze mu kubasuzuma, bakanabapimisha ibiro, kugira ngo hirinde, hanirindwe indwara za hato na hato.

Imbaga y'abantu nyamwinshi, bicaye hamwe bari kuganira, baturutse mu bihugu bitandukanye ku Isi hose, barimo baraganira ku bijyanye n'ubuzima, uburyo hanozwa serivisi nzima, n'uburyo bwatezwa imbere binyuze mu mikoranire myiza y'ibihugu.

Umuryango ushinzwe kwita mibereho y'urubyiruko ndetse n'imikorere y'abana batoya, aho ukurikirana ku isi hose uburyo urubyiruko ruhagaze kugira ngo rutezwe imbere.

Umuryango ushinzwe kwita ku buzima ku Isi hose, aho ukurikirana imivurire, imikorere ndetse n'uburyo indwara zitandukanye zikomeye zivurwa ku Isi hose, hagamijwe kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza bw'abaturage ku Isi hose.

Urujya n'uruza rw'abantu bakora mu by'ubuzima, bari bari kuganirizwa n'inzobere ku ndwara zitandukanye ubona ko babyishimiye ndetse abamama bakomye mu mashyi bityo ubuvuzi bukaba buri gutezwa imbere ku isi hose.

Ku ivuriro hahuriye abantu barimo baraganira, harimo abakora mu nzego z'umutekano ndetse n'abaje babagana kugira ngo hatangwe impuguro n'inama ku ndwara zitandukanye, hirya mu ivuriro harimo abantu baje kwivuza kugira ngo bahabwe serivisi y'uburwayi bakire.

Ku ivomero rusange abana batoya barimo abaravoma bifashishije ibikoresho byo kuvomeramo, ndetse hari n'umuntu urimo urabafasha kugira ngo amazi aze kandi asa neza, bityo abashe kwifashishwa mu rugo.

Ku ivomero umu mama arimo aravoma ndetse hari n'abandi bana benshi, arimo aravomera amazi mu ibase, hari n'ibindi bikoresho byifashishwa havomwa amazi, kugira ngo amazi akoreshwe mu masuku no mu yindi mirimo itandukanye.

Ivomero rusange umumama arimo aravoma amazi meza yatanzwe kugira ngo abaturage bose babashe kuyifashisha mu bikorwa bitandukanye harimo nko kuyatekesha, mu masuku ndetse n'ibindi kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza bw'abaturage.

Ihuriro ry'abana batoya, aho bahurira bari kumwe n'ababyeyi babo bakanywa amata, by'umwihariko uyu akaba ari umwana urimo uraranyweshwa amata n'umuhanzi w'umugabo mu Rwanda uzwi nka Israel Mbonyi, ndetse agakora mu by'ubuvuzi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, hari nk'abana batoya, ababyeyi, baje kwivuza kwa muganga. Muganga arimo arakoresha mudasobwa areba ko bishyuye ubwishingizi bwo kwivuza, maze bakomeze bavurwe neza kandi ku murongo bakurikije uko baje bakurikiranye.

Abantu batoya b'abanyeshuri ni abana b'abakobwa n'abahungu basuwe n'abazungu babiri, ndetse bari kumwe n'abandi bantu batatu, kugira ngo hanozwe imikorere myiza ndetse n'abana bitabweho, ku isi hose hatezwa imbere ubuvuzi.

Urukarabiro; umuntu ari gukaraba, amazi meza akoresheje isabune, kugira ngo avane imyanda iba iri ku biganza, kandi hanozwe isuku ku isi hose, bityo hirindwe indwara.

Imbaga y'abantu nyamwinshi barimo abana b'ingeri zose, ndetse harimo n'abantu bakuru bari kumwe n'aba bana ubona ko hari ahantu abana bahuriye bakaganirizwa bakanasobanurirwa byinshi ku buzima.

Ku ishuri, umunyeshuri w'umukobwa ari ku rukarabiro, aho ari gukaraba ibiganza yifashishije amazi meza n'isabune kugira ngo imyanda imwe n'imwe ya hato na hato ikurweho ku biganza bye kandi agire ubuzima bwiza.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri binyuze mu kuyisuzuma tukayirandura kugira ngo iyo kanseri y'inkondo y'umura ikire burundu, aba akaba ari abakangurambaga ndetse n'abakorerabushake bashinzwe kugira ngo ibyo byose bigezweho.

Umwana mutoya, ari ku rukarabiro arimo arakaraba ibiganza n'amazi meza asukuye ndetse ku ruhande hari indobo na yo yifashishwa hanozwa isuku, aho ishyirwamo ndetse ikananakoreshwa, aho ibikwamo imyanda.

Imbaga y'abantu nyamwinshi b'abana batoya, harimo nk'abana b'abanyeshuri barimo barakingirwa na muganga urukingo ku ndwara kugira ngo babashe kuvurwa neza kandi bakura bafite ubuzima bwiza bwizewe.

Imbaga y'abantu nyamwishi bakiri batoya b'urubyiruko bambaye udupfukamunwa ubona ko barimo barahugurwa n'inzobere, babaganiriza ku ndwara ndetse n'uburyo bwo kuzivura kugira ngo hanozwe imikorere myiza y'ubuvuzi ku isi hose.

Umusore urimo urakaraba intoki yifashishije isabune n'amazi meza, hari umwana arimo aramusukira amazi kugira ngo, yiyoze neza kandi akureho imyanda yose iri ku biganza bityo agire ubuzima bwiza.

Kwa muganga hari icyumba kinini cyahuriwemo n'ababyeyi bafite abana babo baje kubapimisha ibiro, kugira ngo bamenye uko abana bahagaze, bityo hirinde igwingira ry'abana batoya, ahubwo hanozwe imivurire myiza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu benshi, bari mu nama ubona ko barimo barahugurwa n'abandi bantu b'inzobere zitandukanye zaturutse mu bihugu bitandukanye kugira ngo hanozwe imivure myiza y'indwara ndetse habeho ubufatanye bwiza ku isi hose.

Abana batoya babiri barimo barakaraba amazi, ubona ko bishimiye ko bafite amazi meza kandi asukuye. Ku buryo banayakoresha mu mirimo yo mu rugo, harimo guteka no mu masuku. Kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza bw'abaturage ku isi hose.

Muganga arimo aravura umwana, akaba ari umwana ukikiwe na nyina, akaba yaramuzanye ngo avurwe, uwo muganga arimo aramuvura yifashishije ibikoresho byabugenewe, kugira umwana ahabwe serivisi nziza kandi inoze.

Abana batoya baje mu mazi barimo barayavoma kugira ngo bajye kuyakoresha imirimo itandukanye, akaba ari amazi ubona ko atari meza cyane, ariko akaba yifashishwa mu yindi mirimo kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza.

Urubyiruko rurimo abakobwa, ndetse n'abahungu, bamaze guhugurwa no gusobanura byinshi byerekeye n'imibereho myiza y'abaturage, bakaba bagiye kugaragaza uruhare rwabo mu guteza imbere ubuzima bwiza, abaturage ku isi hose binyuze mu buvuzi butandukanye barajya bahereza aba.

Inyubako nini irimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, hari ibikoresho bitangwa ku isi hose, kugira ngo habashe kubaho gufatikanya mu kuvura indwara.

Kwa muganga, imbaga y'abantu nyamwinshi yaje kwivuza, kugira ngo bakira indwara zitandukanye, maze hanozwe imibereho y'abaturage ku Isi hose, kandi bakomeze kugira ubuzima bwiza, binyuze mu kubavura neza.

Abana batoya, bari mu mazi menshi, atemba barimo baroga, kugira ngo bisukure, imyanda itandukanye. Bityo bagire ubuzima bwiza, kandi babashe gukura neza.

Abana batoya batatu b'abanyeshuri, bari ku rukarabiro barimo barakara amazi meza n'isabune, kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse hirindwe indwara zitandukanye, abaka ari urukarabiro rukoreshwa n'abanyeshuri ndetse n'abandi bantu kugira ngo habashe kunozwa isuku mu baturage.

Inama yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi, ihuje Ibihugu byo mu Isi yose kugira hatezwe imbere ubuvuzi binyuze mu mikoranire myiza ndetse n'ubufatikanye kuvura abarwayi.

Ihuriro ry'abana batoya barimo abahungu n'abana b'abakobwa, aho barimo baranywa amata ndetse bakaba basuwe n'abantu batandukanye bakora mu by'ubuzima, mu nzego z'umutekano bakaba barimo baraywesha abana amato kugira ngo abana bakure bafite ubuzima bwiza.

Umuryango ushinzwe kwita ku buzima, by'umwihariko mu gihugu cya Georgia, aho wifashishwa havurwa abarwayi, ndetse hanozwa imibereho myiza y'abaturage ku isi.

Ibikoresho byifashishwa hanozwa ubuvuzi bwiza kwa muganga, aho bikoreshwa byunganira ibindi, birimo ibyifashishwa kugira ngo hanozwe serivisi nziza yo kuvura abarwayi n'imibereho myiza y'abaturage inozwe.

Abaganga babiri barimo baravura umurwayi, wicaye ku gitanda, bifashishije ibikoresho byabugenewe harimo ikimupima umutima, ikireba n'uburyo amaraso agenda mu mubiri kugira ngo avurwe neza kandi akire.

Kwa muganga ababyeyi benshi batandukanye, bafite abana babo babyaye baje kubavuza, aho bakingirwa indwara zitandukanye, kugira ngo ahantu bakore neza hirindwe igwingira rya hato na hato rifata abana ku isi hose.

Umwana mutoya ari ku rukarabiro, arimo arafungura amazi kugira ngo ayakarabe kubera ko ari amazi yashyizweho kugira ngo hanozwe isuku mu baturage by'umwihariko abanyeshuri, kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye.

Ku ivomero rusange, hari abantu benshi barimo abana, abasaza, ndetse n'abagabo, abana bato bakaba bari kuvoma, ndetse undi mwana akaba arimo aramufasha kugira ngo amazi aboneke kandi ameze neza, akaba ari ivomero ryashyizweho kugira ngo abaturage babashe gufata amazi meza kandi asukuye, maze bayakoreshe.

Imbaga y'abantu nyamwinshi barimo barahugurwa ku ndwara zitandukanye kugira ngo babashe kuzirinda ndetse banaganirizwa ku buzima bwiza kugira ngo hanozwe imibereho myiza y'abaturage, benshi muri bo bakaba banakora mu by'ubuvuzi kugira ngo hanozwe ubu ubuzima bwiza bw'abaturage.

Abantu batandatu barimo abagabo batatu n'abagore batatu, ubona ko bari mu nama yahuje abantu benshi kugira ngo hafatwe ingamba zitandukanye ku mibereho myiza y'abaturage.

Abana batoya barimo baraseka urabona ko bishimye ariko bakaba bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, aho bagomba kwitabwaho bakavurwa bakaganirizwa maze nabo bakagira ubuzima bwiza.

Umunsi wahariwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, aba ari umunsi uba ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi, kugirango havurwe ndetse hakurikiranwe abafite ikibazo cyo mu bwonko.

Icyapa gifitwe n'abashinzwe umutekano harimo polisi, kigaragaza ko kurwanya ihohoterwa ari inshingano ya buri wese kugira ngo ubuzima bwiza butezwe imbere, yaba ari ubw'abana batoya, abakuze ndetse n'abakuze cyane.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, ndetse n'umuganga urimo arabaza amakuru aba mama batatu, kugira ngo abashe gukurikirana imivurirwe myiza y'uyu murwayi.

Umurwayi w'igitsina gore yicaye wenyine ubona ko yigunze, nta muntu n'umwe uri kumuvugisha, akaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ariko na we akaba agomba kwitabwaho, akavurwa kandi akagira ubuzima bwiza, hifashishijwe imiti itandukanye.

Imbaga y'abantu nyamwinshi bakaba bari barimo baraganirizwa n'inzobere ku ndwara zo mu mutwe, uburyo zivurwa ndetse n'uburyo uyirwaye agomba kwitabwaho kugira ngo hanozwe imivurirwe y'indwara zose.

Umurwayi ufite ikibazo cyo mu mutwe, akaba yicaye wenyine yigunze, ubona ko yatereranwe nta muntu n'umwe uri kumwitaho, kandi aba agomba nawe kwitabwaho kandi akavurwa, kugira ngo hanozwe ubuvuzi bw'abantu bose.

Abantu barimo abana batoya ndetse n'abakuze ubona ko bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ariko nta muntu uri kubitaho, bakaba bakwiye kwitabwaho nabo bakavurwa bakagira ubuzima bwiza, bityo imibereho myiza y'abaturage bose muri rusange igatezwa imbere.

Umurwayi ufite ikibazo cyo mu mutwe akaba ari wenyine yigunze ubona ko ntawe bari kumwe umwitaho cyangwa se ngo amufashe muri serivisi ari gushaka, kandi na we akaba akwiye ku kuvurwa, akitabwaho akagira ubuzima bwiza, kandi akumva ko atari wenyine.

Imbaga y'abantu benshi barimo abakobwa, abagabo, abagore n'abasore. Barahugurwa n'inzobere ku ndwara zitandukanye zo m'umutwe ku buryo zivurwamo n'uburyo uyirwaye agomba kwitabwaho neza.

Imbaga y'abantu nyamwinshi ubona ko bamaze gufata impuguro no kuganirizwa ku ndwara zo mu mutwe, uburyo zivurwa, uburyo abazifite bagomba kwitabwaho kugira ngo hanozwe n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe.

Imbaga nyamwinshi irimo iraganirizwa n'inzobere, ibahugura ku ndwara zo mu mutwe, uburyo zigomba kwitabwaho zikavurwa kugira ngo hanozwe ubuvuzi bwiza kuri bose.

Umurwayi wo mu mutwe akaba afite imisatsi myinshi ndetse n'ubwanwa, akaba anambaye nabi, ubona ko yatereranywe, nta muntu wo kumwitaho afite, kandi na we akaba akwiye kwitabwaho kandi akavurwa.

Umuntu urimo urambara kimwe mu gikoresho bambara mu menyo agamije kuyavura kugira ngo amenyo agire ubuzima bwiza kandi na nyirayo agire ubuzima bwiza, akaba ari igikoresho usanga kwa muganga mu gihe ufite uburwayi ukagikoresha.

Umugabo ndetse n'umwana mutoya, barimo barasukura amenyo bifashishije urudodo aho rukoreshwa rukuramo imyanda iba iri hagati mu menyo, kugira ngo hanozwe ubuvuzi bw'amenyo, kandi hirindwe uburwayi bw'amenyo.

Umwana mutoya arimo aravurwa na muganga w'inzobere wahuguriwe kuvura amenyo, aho arimo aramushira umuti mu menyo kugira ngo amenyo akomere kandi akomeze kugira ubuzima bwiza, bityo hanozwe n'imivurire myiza y'amenyo.

Umusore n'umukobwa barimo barireba mu ndorerwamo, bareba uburyo amenyo yabo ameze neza, kubera ko bavuwe n'inzobere, bakitabwaho ndetse bagahabwa imiti myiza ikwiriye, na bo ubwabo bakaba bakoresha umuti mwiza basukura amenyo.

Umusore ufite bimwe mu bikoresho byifashishwa hanozwa ubuvuzi bw'amenyo, harimo ibikoreshwa hakorwamo imyenda mu menyo by'umwihariko akaba yaravuwe afite amenyo meza binyuze mu kwegera inzobere zibikoramo zikamufasha.

Umusore ufite amenyo meza akaba ari kumwe na muganga, urimo uramufasha kugira ngo hakomeze kunozwa isuku nziza yo mu menyo, aho arimo arashiramo umuti mu menyo, ubona ko umusore yishimiye serivisi arimo arahabwa.

Ibikoresho byifashishwa havurwa indwara z'amenyo, harimo intebe umurwayi yicaraho maze akavurwa, ndetse n'ibindi bikoresho bisukura, n'ibindi bakoresha bakura amenyo, mu gihe bibaye ngombwa, kugira ngo iryinyo ryakomeretse, ritanduza ayandi.

Abanyeshuri barimo barasuzumwa amenyo n'abaganga babihuguriwe, kugira ngo barebe uburyo amenyo yabo ameze ndetse hafatwe ingamba, harimo bifashisha ibikoresho byabugenewe, bakanashyiramo umuti kumenya ufite ikibazo kugira nayo avurwe.

Umwana mutoya wicaye, akaba arimo arasukura amenyo, yifashishije uburoso ndetse n'umuti w'amenyo uzwi nka korogati kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore, arimo aroza amenyo yifashishije uburoso ndetse n'umuti wabugenewe ukoreshwa harimo hozwa amenyo havanwamo imyanda, kugira ngo amenyo arusheho gukomera kandi agire ubuzima bwiza, bityo yirinde indwara zitandukanye zishobora kwataka amenyo.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa havurwa indwara y'amenyo, hakaba havurirwa ingeri z'abantu benshi. Yaba ari abana batoya, abakuze ndetse n'abasaza n'abakecuru.

Umukobwa urimo afite amenyo meza, akaba arimo aravurwa kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, aho arimo arashyirwamo andi menyo, akurwamo ayangiritse, kugira ngo abashe nawe kugira ubuzima bwiza.

Umwana mutoya ufite uburwayi bw'amenyo, arimo aravurwa n'inzobere mu kuvura amenyo, yifashishije ibikoresho byabugenewe ndetse arimo aramushiriramo umuti kugira ngo amenyo arusheho gukomera no kugira ubuzima bwiza.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi bw'amenyo, yaba ari ukuyasukura hakurwamo imyanda, ndetse no mu gihe bibaye ngombwa ko amenyo abagwa, haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo ubuvuzi bw'amenyo bunozwe.

Umusore ndetse n'umukobwa bose b'inzobere mu kuvura amenyo, barimo baravura umurwayi bifashishije ibikoresho byabugenewe kugira ngo amenyo ye akire; harimo ibikoresho bikuramo imyanda ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha bakura amenyo mu gihe bibaye ngombwa, kugira ngo umurwayi abashe kugira ubuzima bwiza.

Inzobere mu buvuzi bw'amenyo, irimo irasobanurira umwana mutoya w'umunyeshuri, yifashishije ishusho igaragaza amenyo, uburyo ameze uburyo avurwa n'uburyo bwiza bwo kuyagirira isuku, inyuma yabo hari abandi bantu batandukanye harimo abarimu n'abandi bakora mu by'ubuvuzi wari wabasuye.

Ishusho igaragaza amenyo uburyo aba ameze imbere kugira ngo habashe kwigwa imimerere y'amenyo by'umwihariko mu bice tutabonesha amaso yacu turebeye inyuma.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara z'amenyo, ahavurirwa abana, abakuze ndetse n'abasaza n'abakecuru, hari n'ibikoresho byifashishwa kugira ngo hanozwe ubwo buvuzi bw'indwara z'amenyo kandi hatangwe serivisi inoze.

Umurwayi waje kwivuza amenyo, akaba arimo aravurwa na muganga w'inzobere wabihuguriwe kugira ngo agire ubuzima bwiza. Muganga akaba arimo arifashisha ibikoresho byabugenewe, birimo urudodo n'ibindi bikoresho.

Abana batoya b'abanyeshuri bafite uburoso bifashishije umuti wabugenewe uzwi nka korogati, wifashishwa mu koza no gusukura amenyo, havanwamo imyanda itandukanye.

Ishusho igaragaza amenyo Uburyo aba ameze imbere, aho umuntu abasha kubona amenyo yanduye aho arwaye kugira ngo avurwe, bityo hanozwe ubuzima bwiza bw'abaturage.

Umuntu w'igitsina gabo arimo arasukura amenyo yifashishije urudodo, arimo arakuramo imyanda itandukanye iba iri hagati y'amenyo maze agire ubuzima bwiza kandi amenyo ye akomeze kumera neza bityo izindi indwara zitandukanye za hato na hato zifite amenyo.

Muganga arimo aravura umuntu urwaye amenyo, hifashishije ibikoresho byabugenewe, aho arimo anashyira igikoresho hagati mu menyo, akareba iryinyo rifite ikibazo, maze akaba ari ryo avura kugira ngo atangirika cyangwa se hadatangwa serivisi itanoze.

Umusore arimo arasukura amenyo yifashishije urudodo arimo ararunyuza mu menyo akuramo imyanda bityo uburibwe bwa hato na hato bukirindwa kandi akomeza kugira ubuzima bwiza binyuyuze mu kwivura neza amenyo, yivurishije ibikoresho byabugenewe.

Ishusho igaragaza amenyo yanduye afite ikibazo arwaye, aho aba akwiye kuvurwa n'ayo nyirayo akagira ubuzima bwiza kandi akumvako na we ahawe serivisi inoze.

Amashusho atandukanye agaragaza amenyo uburyo ameze mu mubiri iyo yanduye n'igihe amenyo adafite ikibazo kugira ngo avurwe. uwo ari muganga urimo urayareba ubona ko ari inzobere mu buvuzi bw'amenyo.

Umusore uri kugaragaza amenyo ye, amenyo asa neza, akomeye, atarimo imyanda, ubona ko yavuwe, yitabwaho, arakurikiranwa n'inzobere ndetse anakoresha umuti ukozwe mu bimera wifashishwa hasukurwa amenyo.

Muganga w'inzobere mu buvuzi bw'amenyo arimo aravura umurwayi w'umugabo ufite ikibazo cy'amenyo yifashishije ibikoresho byabugenewe, aha arimo aramushiriramo umuti kugira ngo umurwayi akire vuba.

Umukobwa uri kugaragaza amenyo meza yavuwe akurwamo imyanda, ndetse akaba ari amenye yegeranye akomeye ubona ko afite isuku, yasukuwe yifashishije umuti ukozwe mu bimera ndetse n'uburoso maze akomeza kugira ubuzima bwiza.

Abana batoya barimo barasukura amenyo, bifashishije uburoso ndetse n'umuti kugira ngo hanozwe ubuvuzi bw'amenyo kandi amenyo yabo akomeze kugira ubuzima bwiza, akomere kandi ase na neza.

Umuntu arimo aravurwa amenyo yifashishije igikoresho cyabugenewe, aho arimo aravana imyanda hagati mu menyo kugira ngo hirindwe uburibwe bwa hato na hato buterwa n'imyanda iri mu menyo, bishobora no gutera umutwe udakira.

Umuntu arimo aravura amenyo yifashishije urudodo aho urudodo urushyira hagati y'amenyo ugakoramo imyanda igiye irimo kugira ngo hirindwe indwara za hato na hato zirimo nk'uburibwe bukabije bwaterwa n'iyo myanda ibi hagati mu menyo.

Ihuriro ry'abasaza ndetse n'abakecuru n'abo bicara bakaganira bakungurana ibitekerezo ndetse bakanaganirizwa kugira ngo batagira irungu ahubwo bakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse n'amasaziro meza.

Abakecuru batatu bishimanye barimo barafata ifoto ubona ko bibanejeje kuba bari kumwe, bituma bose bumva nta rungu bafite ahubwo bakumva bafite ibihe byiza.

Umusaza arimo aravurwa na muganga wabizobereye, aho arimo aramupima umuvuduko w'amaraso n'indwara zirimo nk'umutima, akaba yahawe serivisi nziza kandi inoze ubona ko yishimanye na muganga urimo uramuvura.

Umukecuru n'umusaza barimo baraganira ndetse banasoma inkuru banareba andi makuru atandukanye ari ku mbuga nkoranyambaga, kandi banafata imiti bahawe na muganga kugira ngo babashe gukira ahubwo bagire ubuzima bwiza, kandi babashe no gusaza bafite ubuzima bwiza buzira indwara.

Umukecuru arimo aritabwaho n'umuganga ubona ko bishimanye, barimo baraganira kuko yahawe serivisi nziza kandi inoze bityo akaba na we afite ubuzima bwiza kandi yitaweho neza kubera ko ari gukurikiranwa n'umuganga.

Umusaza arimo aravurwa n'inzobere mu buvuzi bw'abantu bakuze, akaba arimo aramukoresha umwitozo w'amaboko kugira ngo umusaza arusheho gukomera ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Umusaza arimo aravurwa n'umuganga kugira ngo akire kandi agire ubuzima bwiza, yaryamishijwe ku gitanda hifashijwe ibikoresho byabugenewe, arimo arapimwa umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara z'umutima kugira ngo abashe kuvurwa neza.

Umusaza arimo aranywa ibinini kugira ngo yivure yifashishije amazi meza, ndetse barimo baranamwereka inkuru, bamusomera kugira ngo na we abashe kumva iyo nkuru, uburyo imeze kandi, akomeza no kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru arimo aravurwa, umuganga ubizobereye arimo aramupima indwara zirimo umuvuduko w'amaraso, indwara z'umutima, kugira ngo abashe kumuvura neza akire, kandi na we agire ubuzima bwiza.

Umusaza ari kumwe numu mama urimo aramusomera inkuru kugira umusaza aruhuke atuze kandi yumve ko afite ubuzima bwiza, akaba arimo aramusomera ikinyamakuru baganira.

Umusaza arimo arakarabywa hifashishijwe isabune n'amazi meza kugira ngo abashe kuvanwaho imyanda itandukanye ahubwo akomeze agire ubuzima bwiza, akaba ari uburyo butandukanye bwo kwita ku bantu bakuze harimo no kumenya isuku yabo uko ihagaze.

Umusaza uri kwiyitaho binyuze mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho afite udukoresho dutandukanye mu biganza bye ari gukoresha agororora imitsi, agorora ingingo, maze amaraso atembera neza mu mubiri, na we agire ubuzima bwiza.

Abakecuru n'abasaza bari kumwe n'abana batoya abona ko bishimanye, bari gutembera, bari guseka cyane kugira ngo na bo babashe kuruhuka kandi bumve ko batari bonyine, ahubwo bagira ubuzima bwiza, birinde n'indwara zitandukanye, mu gihe barimo.

Umukecuru arimo aravurwa, n'umuganga ukiri mutoya wabihuguriwe, arimo aramukoresha umwitozo ngororamubiri w'ukuboko, kugira ngo umukecuru ananure imitsi, maze akomeze kugira ubuzima bwiza, yirinde n'indwara zitandukanye.

Umukecuru arimo aranywa imiti yahawe na muganga, yifashishije amazi meza arimo akurikiza amabwiriza kugira ngo agire ubuzima bwiza, akire kandi akomeze kuramba.

Muganga arimo aravura umusaza, amupima umuvuduko w'amaraso n'uburyo umutima utera kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwiza, bukwiriye bityo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi abashe kwitabwaho.

Umukecuru wishimye ndetse ari kumwe n'abandi bantu babiri bato ni ab'abakobwa, ukaba ubona ko bishimanye kandi ari kuganira neza bigatuma na we yumva afite ubuzima bwiza kandi yitaweho.

Umukecuru arimo aravurwa n'inzobere ni muganga, ka muganga w'igitsina gore, aho arimo aravura umukecuru neza, ubona ko umukecuru yishimiye serivisi arimo ahabwa, kandi bimwongerera na we kuramo.

Umusaza n'umukecuru barimo barafata amafunguro ubona ko bishimanye kandi bari kuganira ko ari amafunguro arimo imboga, imbuto zibasha kubongerera intungamubiri ndetse bagomba kugira ubuzima bwiza, bityo bakanirinda indwara zitandukanye.

Umusaza arimo aravurwa na muganga, aho arimo aramuhereza igikoresho afata mu ntoki, kugira ngo imitsi irambuke n'amaraso atembera neza, maze umusaza akabikurikiza kugira ngo hanozwe imivurirwe myiza y'abasaza ndetse n'abakecuru.

Umukecuru arimo aravurwa na muganga kugira ngo agire ubuzima bwiza, kandi na we abashe kuramba mu myaka ye. Akaba arimo aramuvura yifashije igikoresho cyabugenewe aho umukecuru ari guhabwa serivisi nziza kandi inoze.

Umukecuru wishimye arimo aragorora ingingo yifashishije ibikoresho ufata mu ntoki maze ukarambura ibiganza, imitsi ikarambuka, amagufa agakomeza gukomera.

Umukecuru uri guteka, wicaye wenyine, ubona ko yigunze, nta muntu uri kumuganiriza, na we akaba akeneye kwitabwaho, abona umuntu baganira ndetse ahabwe ubuvuzi na muganga bityo atumva ko ari wenyine.

Umusaza arimo aravurwa na muganga w'inzobere wahuguriwe kuvura abasaza, aho arimo aramukoresha umwitozo, afata igikoresho mu kiganza kugira ngo arambure imitsi maze amaraso atembere neza mu mubiri.

Umukecuru arimo aravurwa n'inzobere yabihuguriwe, aho arimo aramwandikira imiti ndetse anamuhereza imiti anywa kugira ngo abashe gukira. Akaba ari ubuvuzi buhabwa abantu bakuze.

Umusaza arimo aranywa amazi meza ayahawe n'umukecuru ubona ko arimo aramwitaho amugaragariza urukundo ku buryo n'umusaza yamushimisha nawe akumva ko yitaweho mu myaka ye.

Umusaza arimo arasomerwa inkuru n'umusore ubona ko inkuru umusaza yayishimiye yamusekeje cyane ndetse n'umusore ikaba ari inkuru yamushimishije, bikaba biri gutuma umusaza yumva nawe adafite irungu kandi yitaweho.

Abakecuru barimo baraganira ndetse bareba amakuru atandukanye ari kuvugwa hirya hino ku isi, bifashishije ikoranabuhanga rya telefone. Bagasoma amakuru, ubona ko barimo barakurikirana uburyo ku Isi bimeze.

Umusaza ari kumwe numu mama ukiri mutoya ubona ko bishimanye, bafashe ifoto binezeza umusaza akumva ko nawe utari wenyine ahubwo yitaweho.

Umusaza arimo aravurwa, muganga arimo aramusukira icyo kunywa ndetse amutegura n'amafunguro harimo n'imbuto kugira ngo zimwongerere ubuzima bwiza kandi na we akomeze kumva ko yitaweho.

Umusaza arimo aranywa imiti yifashishije amazi meza, aho arimo arayihabwa na muganga uri kumuvura kugira ngo akire bityo na we abashe kugira ubuzima bwiza kandi akomeze kwitabwaho.

Umusaza arimo aravurwa na muganga wabihuguriwe kugira ngo agire ubuzima bwiza. Arimo aramufasha mu buryo bwo gutambuka kugira ngo umusaza abashe kumera neza, arimo aramureba ibiro afite kandi ubona ko umusaza yishimiye serivisi ari guhabwa.

Umukecuru urimo arategurirwa amafunguro, n'umwana w'umukobwa ndetse n'umusore ararya imboga n'imbuto, umugati kugira ngo agire ubuzima bwiza na we anitabweho neza.

Umumama ukuze cyane arimo arakina n'umwana imikino kugira ngo abashe kumva ko atari wenyine, maze nawe agire ubuzima bwiza ubona ko bishimanye kandi bari kuganira, birimo biramufasha.

Umuganga uri kwita ku musaza, arimo aramufungira ishati neza bose bakaba bambaye udupfukamuwa kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye zabasha kuva ku umuntu umwe zijya ku wundi kandi hanozwe imivurire myiza, n'umusaza kandi yitabweho.

Umusaza arimo aranywa imiti, imiti ari guhabwa na muganga, akayinywa yifashishije amazi kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Ukabona ko ari umwana muto w'umukobwa uri kumufasha kugira ngo amuvure.

Umusaza arimo aritabwaho n'umusore, ndetse n'umukobwa amufasha kumutwara neza, ndetse akabasha kumuryamisha neza kugira ngo abashe kwitabwaho, kandi nawe akomeze kugira ubuzima bwiza.

Amusaza arimo arafata amafunguro ndetse n'umumama ubona ko bishimanye, kuko amafunguro ateguye neza kandi arimo intungamubiri nyinshi zitandukanye zibasha kubafasha mu kugira ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'abagore, harimo abaganga ndetse n'abaturage bishimiye kuba bari guhashya ndetse bakarwanya kanseri y'inkondo y'umura, binyuze mu ngamba zashyizweho, harimo gukorera hamwe ndetse no kwisuzumisha neza ku gihe.

Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, zikaba ari ingamba ziri gushyirwaho kugira ngo iyi ndwara ibashe kwirindwa binyuze mu kubahiriza amabwiriza yashyizweho, maze tukayirandurana n'imizi yayo.

Inama yabaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, yahuje imbaga y'abantu nyamwinshi hagamijwe kugira ngo hafatwe ingamba ndetse hakorwe ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye bityo hanozwe imivurire myiza ku isi hose kandi hatezwe imbere ubuvuzi.

Ingamba zitandukanye kugira ngo abashe kwirindwa zimwe mu ndwara zirimo nka sida n'izindi ndwara kugira ngo zibashe gukurikizwa maze ku isi hose izo ndwara zirindwe kandi neza bityo abaturage bagire ubuzima bwiza buzira izo ndwara.

Umunsi wahariwe kurwanya ndetse no guhashya indwara ya SIDA ku isi hose mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Hari imbaga y'abantu nyamwinshi baturutse mu bihugu bitandukanye baje kumva ingamba zitandukanye ziri bufatwe kugira ngo barwanye icyorezo cya SIDA.

Hamwe no gufata ingamba ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, akaba ari igitabo cyo mu mashuri yisumbuye gikoreshwa n'umwarimu hagamijwe kwigisha abanyeshuri uburyo butandukanye, ndetse no kumenya byinshi ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina.

Uburyo butatu umuntu ufite ubuzima bwiza ndetse witaweho, akaba ari ingamba zashyizweho na minisiteri y'ubuzima kugira ngo hanozwe imibereho myiza y'abaturage.

Muganga arimo arakingira umurwayi ahagana ku rutugu, ikaba ari mu ngamba zafashwe kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye, ahubwo abantu bahabwe ubuvuzi bwiza bw'abaturage binyuze mu kubakingira, maze indwara itabasha kubafata.

Muganga w'igitsina gore arimo aratanga impuguro ku ndwara zitandukanye, by'umwihariko ku ndwara z'imibonano mpuzabitsina kugira ngo hafashwe ingamba ndetse hanirindwe inda zitateganyijwe.

Amabwiriza atandukanye ajyanye no kwikingiza indwara ya korona virusi kugira ngo yirindwe kandi ibashe kwamaganwa ku isi hose, maze hizerwa ubuvuzi bwayo ndetse n'ubuzima bw'abaturage.

Umunsi mpuzamahanga wabaye ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cyenda, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ugamije kugira ngo hatezwe imbere ubuzima bw'ibidukikije, binyuze mu mikoranire myiza y'ibihugu byose byo ku isi.

Icyapa kiriho ingamba zitandukanye zafashwe kugira ngo habashe kunozwa ubwirinzi bw'indwara zitandukanye, by'umwihariko muri Afurika. Hariho umuganga w'umukobwa ndetse n'umusore ubona ko bari mu bafashe izi ngamba, kandi bari kugaragaza uburyo zigomba guharanirwa zikagerwaho.

Abantu babiri bakora mu by'ubuvuzi mu Rwanda, barimo barasuhuzanya ubona ko bamaze kuganira kugira ngo hafatwe ingamba zitandukanye zigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage.

Zimwe mu ngamba zashyizweho na Dogiteri kugira ngo zikurikizwe hanozwe ubuzima bwiza ku baturage, aho uzikurije abasha kwirinda neza akanakiza amagara ye, ahubwo akaguma kugira ubuzima bwiza kandi bwizewe.

Inama yabaye ku wa Gatanu ku itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa Karindwi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, igatangira ku isaha ya saa yine, ndetse ikarangira ku isaha ya saa kumi n'imwe, igamije kugira ngo hafatwe ingamba zitandukanye, ku ndwara ya SIDA.

Impuguke zahuguriwe mu guteza imbere ubuzima bw'abaturage, aho bahugurwa n'inzobere, kugira ngo zifashe zinigishe abaturage, mu buryo bujyanye no kwirinda, indwara zitandukanye.

Umugabo uriho ugaragaza ko urukingo rw'indwara y'ubushita rwabonetse ku buryo abantu bagenda bakikingira maze bakirinda iyo ndwara bityo ubuzima bwiza bw'abaturage bugatezwa imbere.

Ingamba zitandukanye zashyizweho ari byo umuntu akora ari umwe cyangwa se hagati y'umuntu n'undi kugira ngo hirindwe indwara. Hari n'izo abaturage muri rusange bahuriyeho ndetse n'ibihugu bikora, kugira ngo harwanwe indwara zitandukanye.

Imbaga y'abantu nyamwinshi harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bari mu nama barimo barahugurwa nk'inzobere kugira ngo hafatwe ingamba zigamije guteza imbere ubuzima bwiza bw'abaturage, bityo n'indwara zimwe na zimwe zirindwe.

Inama yari ibaye ku nshuro ya kabiri muri Afurika, ikaba ari inama mpuzamahanga igamije kugira ngo hafatwe ingamba ndetse n'ubwirinzi ku ndwara zitandukanye kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza.

Amashusho atandukanye agaragaza ingamba zafashwe kugira ngo hanozwe ubuvuzi bw'indwara zitandukanye by' ummwihariko muri Afurika, maze abaturage bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ingamba zitandukanye zashyizweho na docteur Rugengamanzi hagamijwe kurinda indwara hamenyekane n'ikizitera kugira ngo izo ngamba zikurikizwe maze izo ndwara zibashe kuvurwa neza.

Muganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'abarwayi bose bambaye udupfukamunwa, ubona ko bicaye hagiye harimo intera hagati y'umwe n'undi. Akaba ari ingamba zafashwe kugira ngo hirindwe indwara zibasha kwandukira kugira ngo ndetse bakomeze kuyi ubuzima bwiza kandi banavurwe neza, bakurikiranwe.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi ndetse harimo abafite icyapa cyanditseho ko urubyiruko turi imbaraga z'igihugu tugomba kwirinda tukanapimisha virusi itera SIDA, kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza ndetse n'ejo heza hazaza h'abaturage.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, havurirwamo abana batoya, abagore n'abagabo ndetse n'abasaza n'abakecuru, akaba ari inyubako nini ku buryo habasha kuvurirwa abantu benshi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ikaba irimo ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi kugira ngo hanozwe ubuvuzi, bityo abaturage bagire ubuzima bwiza kandi harindwe indwara zitandukanye.

Inyubako ivurirwamo abarwayi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abantu bakuru ndetse n'abakuze cyane. Harimo intebe, aho abarwayi bicara mu gihe bategereje ko bahabwa serivisi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo abarwayi babiri, buri wese akaba ari ku gitanda cye, aho bari kuvurirwa indwara, kandi bari kwitabwaho neza.

Inyubako iri i Remera, akaba ari inyubako icururizwamo imiti ku ndwara zitandukanye, ikaba ari imiti myiza yizewe kandi ivura neza hagamijwe kugira ngo hatangwe ubuvuzi ku baturage kandi vuba.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'ababyeyi, akaba ariho ababyeyi babyarira ndetse akaba ari na ho baza baje ku gipimo kugira ngo hakurikiranwe ubuzima bw'abo batwite bityo hakomeze kunozwa imiyoborere myiza y'ababyeyi ndetse n'abana bavutse.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi, by'umwihariko hakaba hakorerwa ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye, kugira ngo hamenyekane imiti myiza yizewe yo kuzivura, kandi n'uburyo bwiza bwo kuzirinda, bityo abazirwayi bakurikiranwe neza.

Inyubako mu karere ka Nyarugenge, ikaba itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, ubuvuzi bw'abana batoya n'ubuvuzi bw'abantu bakuze, hari inyubako nziza kandi nini ku buryo serivisi yabo ari nziza kandi inoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye harimo imiti myinshi yifashishwa havurwa abarwayi ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu gihe barimo barabasuzuma kugira ngo bavurwe neza.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, by'umwihariko kikaba ari icyumba gitangibwamo ubuvuzi ku myitozo ngororamubiri, aho umuntu wayirimo ikibazo avurwa, ndetse n'undi ukeneye kubukora neza gahugurwa.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ku ndwara zitandukanye, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa abarwayi kugira ngo bavurwe neza kandi bakire, akaba ari inyubako ifite isuku, nini kandi nziza, ku buryo ibasha kwakira abarwayi benshi kandi bakahavurirwa neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ikaba ari inyubako irimo ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi b'ingeri zose, kugira ngo hanozwe imivurire myiza, na serivisi nziza, bityo abaturage bitabweho.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi byifashishwa havurwa abarwayi, kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza ndetse n'iterambere mu baturage, ikaba ari inyubako nziza kandi yubakanywe isuku ku buryo serivisi y'aho iba yizewe kandi inoze.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye ndetse hakaba hari amarembo, ibikoresho bikoreshwa mu kwicunda umuntu akora siporo kugira ngo agorore ingingo ndetse abashe no kuruhura mu mutwe.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, akaba ari inyubako nini kandi irimo inzobere zabihuguriwe, aho abaturage baza bakahagurira imiti kandi bakivura, bakanavurwa neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa hanozwa ubuvuzi, harimo intebe abarwayi bicaraho ndetse n'ibindi bikoresho.

Inyubako ivurirwamo abarwayi, harimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibikoresho by'isuku, n'ibindi byifashishwa havurwa abarwayi. Harimo abaganga batatu ubona ko bakiri bato, babiri b'abakobwa n'umusore umwe.

Inyubako nini itangirwaho serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana, ubuvuzi bw'abantu bakuze, kugira ngo ingeri zose zivurwe. Ikaba ifite ubusitani bwiza ku buryo abarwayi babasha guhumeka umwuka mwiza, maze bakanavurwa neza bagakira. Bityo hagatezwa imbere ubuvuzi bunoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Harimo muganga urimo akoresha mudasobwa areba amashusho agaragaza igice cy'imbere cy'umuntu kugira ngo hanozwe ubuvuzi bw'umubiri.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, iki akaba ari icyumba habasha gukorerwamo isuzuma ryimbitse, yaba ari ukubaga umurwayi mu gihe bibaye ngombwa, ndetse no kureba ubundi buvuzi buhanitse.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'ababyeyi, akaba ariho ababyeyi babyarira ndetse hakabasha gukurikiranwa aho batwite, mu gihe bari mu nda ndetse no mu gihe bavutse bakabasha gukurikiranwa neza.

Inyubako icururizwamo imiti ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abana batoya, izifata abagabo n'abagore ndetse n'abasaza n'abakecuru, ikaba ari inyubako nziza kandi ifite imiti myinshi ku buryo ku ndwara buri wese arwaye abasha kubona ubuvuzi.

Inyubako nini ifite isuku, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, hari ubuvuzi bw'abantu batoya, ubuvuzi bw'abantu bakuru ndetse n'abasaza n'abakecuru. Ikaba ifite ubusitani bwiza ubona ko iyo nyubako ifite isuku.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, by'umwihariko iki akaba ari icyumba kivurwamo abarwayi, harimo ibikoresho byifashishwa bavurwa, harimo igitanda umurwayi aryamaho kugira ngo muganga amwiteho neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iki kikaba ari igikoresho kifashishwa havurwa abarwayi neza kugira ngo abantu bakire bagire ubuzima bwiza kandi hatezwe imbere imivurire myiza kandi inoze.

Inyubako nini ndende, itangirwaho serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, ku baturage. Havurirwayo abana batoya, abantu bakuru, kandi bose bagakira, kubera ko ubuvuzi butangirwa aha ngaha, bukorwa neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo abarwayi barimo baravurwa ndetse n'ibikoresho byifashishwa kugira ngo bavurwe neza, harimo ibitanda n'ibindi bikoresho, hakaba hatangirwa serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi kugira bavurwe neza kandi bakire, ikaba ari inyubako ifite isuku ku buryo abarwayi babasha kuza bakahivuriza kandi akaba ari ahantu heza ho kwivuriza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abantu bakuru ndetse n'abakuze cyane. Ikaba ifite ibikoresho byifashishwa hatangwa ubuvuzi bwiza kandi bunoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane. Harimo ibikoresho byifashishwa, hatangwa ubwo buvuzi bwizewe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo abaganga babiri, bakora muri iyi nyubako ndetse n'umurwayi uryamye ku buriri, aho arimo aravurwa kugira ngo akire.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Akaba ari inyubako nini ku buryo ibasha kwakira umubare nyamwinshi w'abarwayi kandi bakavurwa neza, ikaba yubatse neza kandi yubakanywe isuku. Ikaba yifashishwa mu kuvura abarwayi b'ingeri zose.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Harimo umurwayi uryamye ubona ko yavuwe neza kandi yishimiye serivisi yahawe, harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye, ari ibyifashishijwe bamuvura ndetse n'ibindi bikoreshwa havurwa abandi barwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abagore n'abagabo ndetse n'abasaza n'abakecuru kugira ngo bagire ubuzima bwiza, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa abarwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abantu batoya, indwara zifata abantu bakuze, iyi nyubako rero ikaba irimo ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi batandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, by'umwihariko kikaba ari icyumba kivurwamo indwara z'amaso, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa uburwayi bw'amaso birimo amadarubindi umuntu yambara.

Abantu benshi batonze umurongo kwa muganga barimo baravurwa indwara zitandukanye harimo abagore, babakobwa, abagabo ndetse n'urubyiruko rw'abasore barimo baravurwa neza kugira ngo bakire bagire ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, butandukanye. Harimo abaganga benshi, bakora mwa bino bitaro, harimo uburyamo, abarwayi baryamaho kugira ngo bavurwe, n'ibindi bikoresho byifashishwa. Bityo serivisi z'ubuvuzi zigatangwa neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubw'abantu bakuze, barimo abagore, abagabo ndetse n'abakecuru kugira ngo babashe kwitabwaho bityo hatezwe imbere ubuvuzi bunoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, ifite umwanya mwiza ibinyabiziga biparikamo, ndetse ifite n'ubusitani bwiza kugira ngo abarwayi bahumeke umwuka mwiza kandi babashe no kwitabwaho neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abantu bakuru, ku miryango hagiye handitseho amazina ku buryo umurwayi atagira ikibazo, bibasha kumuyobora bitewe naho agiye akanivuza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, akaba ari nyubako nziza kandi nini, ifite umwanya mwiza y'ibinyabiziga biparikamo mu gihe bizanye abarwayi, harimo imodoka y'imbagukiragutabara n'izindi ndetse n'imodoka z'abakozi aho ziparika.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, muganga arimo arasobanurira umwana mutoya ku byerekeye imivurire y'amenyo yifashishije ishusho kugira ngo umwana abashe kubona uburyo bikorwamo, afite uburoso amwereka ukuntu basukura amenyo n'amazi meza mu buryo bukwiriye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, za nyubako nziza nini irimo ibikoresho byinshi, harimo intebe n'ibindi bikoresho bifashishwa, hakirirwa abarwayi kugira ngo bavurwe kandi bakire.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi byiza bisukuye, byifashishwa harimo intebe, mudasobwa, n'imeza, kugira ngo hanozwe ubuvuzi bwiza bw'abaturage.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo abaganga bakoramo bavura abarwayi, ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa, kugira ngo hanozwe imivurire myiza ku baturage.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, havurwa abarwayi yaba ari abana, abantu bakuze ndetse n'abasaza n'abakecuru. Irimo ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi, by'umwihariko iki akaba ari icyumba kirimo kirimo amashashi y'amaraso aterwa abarwayi kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Inyubako ikorerwaramo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye, kugira ngo haboneke urukingo cyangwa se umuti ukwiriye kuri izo ndwara, mu buryo bwiza bwo kuzivura bukwiriye kugira ngo abazirwaye babashe kuvurwa kandi bitabweho bityo bagire ubuzima bwiza. Kandi buzira indwara.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi ndetse harimo umuganga uvura, aho arimo arakoresha bimwe muri ibi bikoresho kugira ngo ategure neza uburyo bwo gutanga serivise.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye ikaba ari inyubako nziza yubakanwe isuku ku buryo serivisi yaho yizewe kandi inoze. Ni nini ku buryo bashobora kwakira abarwayi batandukanye kandi bakavurwa neza, bityo hakanozwa imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubuzima bwiza bw'abaturage.

Muganga arimo aravura umwana mutoya mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, aho yamuryamishije, akaba arimo aramwitaho kugira ngo umwana akure neza kandi akurane ubuzima bwiza.

Bimwe mu bitaro bikomeye mu Rwanda, akaba ari ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, akaba ari ibitaro bitanga serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zose kandi indwara zikomeye, kugira ngo abazirwaye bavurwe, bitabweho kandi bakire vuba.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo umwana mutoya arimo aravurwa na muganga, muganga wambaye agapfukamunwa, ndetse n'umubyeyi wazanye uyu mwana kugira ngo yitabweho akurikiranwe, bityo hanozwe ubuvuzi kuri bose.

Ibitaro bya Gihundwe, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abasaza n'abakecuru. Hakaba hari aho bavurira n'amaso ku bantu bayarwaye, kugira ngo hakomeze hatezwe imbere ubuzima bwiza bw'abaturage.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda, indwara zo mu mutwe n'izindi ndwara, kugira ngo abazirwaye bavurwe hari urujya n'uruza rw'abaturage baje kwivuza, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kandi hanozwe n'imivurire myiza.

Inyubako itangirwagwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi byifashishwa havurwa abarwayi kugira ngo hanozwe imibereho myiza y'abaturage binyuze mu buvuzi, hari inyubako nziza kandi ifite isuku, ubona ko serivisi yaho inoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abantu bakuru, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa hatangwa serivisi nziza kugira ngo hanozwe imivurire myiza bityo abaturage bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza yubakanywe isuku, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abantu batoya ndetse n'ubuvuzi bw'abantu bakuze, kugira ngo hanozwe imibereho myiza y'abaturage binyuze mu kubavura indwara zishobora kubasha kubangiriza ubuzima bwabo.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, hakaba harimo abaganga barimo abakiri batoya, ubona ko barimo barakoresha bimwe mu bikoresho banavanga imiti kugira babashe kunozwa ubuvuzi bwiza.

Amaraso menshi atandukanye agiye arimo n'ayo ubwoko butandukanye, yatanzwe n'abantu ku bushake kugira ngo atabare imbabare z'abarwayi, bityo zivurwe kandi zitabweho maze bakire.

Muganga arimo aravura umurwayi, aho arimo aramupima umuvuduko w'amaraso ndetse n'uburyo umutima utera, yifashishije igikoresho cyabugenewe kugira ngo anoze imiyoborere myiza ku baturage.

Igikoresho kifashishwa havurwa indwara kwa muganga ndetse akaba ari n'inyubako ihuriwemo n'ubundi burwayi butandukanye kugira ngo hakomeze kunozwa imibereho myiza y'abaturage.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ku ndwara zitandukanye harimo ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi b'ingeri zose, yaba ari abana batoya, abakuze ndetse n'abakuze cyane. Ikaba yubakanwe isuku, ku buryo serivisi y'aha ngaha ari ndashidikanywaho.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, akaba ari nyubako nziza nini kandi isukuye, ifite ibikoresho bitandukanye harimo uburyamo baryamishaho abarwayi mu gihe barimo barabavura.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abantu batoya, yaba ubuvuzu bw'abantu bakuru ndetse n'abasaza n'abakecuru, kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi hakomeze kunozwa ubuvuzi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abagore, bw'abagabo ndetse n'abasaza n'abakecuru, akaba ari inyubako nini ifite isuku, ubona ko ubuvuzi bwabo bwizewe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, hakaba harimo imbaga y'abantu nyamwinshi barimo abakecuru, abasaza, abamama, abapapa baje kwivuza indwara zitandukanye kugira ngo bakire kandi bagire ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwa serivisi z'ubuvuzi, ku ndwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'bana batoya, ndetse n'ubuvuzi bw'abakuze; ikaba yubakanywe isuku, ndetse ifite n'ibyatsi bihateye bitandukanye, na byo byifashishwa mu buvuzi bw'indwara.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, akaba ari inyubako nini ku buryo abarwayi benshi babasha kuza kuhivuriza kandi bagakira. Ikaba yubakanywe isuku kandi ikaba ifite n'imyanya ibinyabiziga biparikamo mu gihe bizanye abarwayi kwa muganga.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, by'umwihariko uyu akaba ari umuganga urimo araganira n'umuturage, amusobanurira byinshi bitandukanye ku burwayi afite.

Inyubako itangirwaho serevisi z'ubuvuzi, iherereye Remera-Rukoma, ikaba ari inubako yizewe kandi ivura neza, abantu b'ingeri zose, ku buryo umurwayi aza akavurwa kandi vuba.

Inyubako nini, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abana batoya, indwara zifata abagore, abagabo n'izifata abasaza n'abakecuru kugira ngo bavurwe kandi bagire ubuzima bwiza.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi, yaba ari abana, yaba ari abakuze, harimo uburyamo bakoresha kugira ngo serivisi itangwe kandi inoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa havurwa abarwayi, harimo igikoresho gikunze kureba utuntu dutoya umuntu atabasha kubonesha amaso dushobora kuba twatera indwara.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye by'umwihariko cyikaba ari icyumba kinini kandi cyiza gisukuye gitangirwamo inama ku baturage cyangwa se no mu bakozi bakora mwa bino bitaro kugira ngo hanozwe ubuvuzi bwiza hafatwe n'ingamba.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo ibikoresho byinshi byifashishwa havurwa abarwayi by'umwihariko mwa kino cyumba harimo umurwayi urimo uravurwa.

Ubwoko bw'igikoresho kifashishwa havurwa abarwayi, by'umwihariko ubuvuzi bw'amenyo ndetse harimo n'intebe muganga akoresha, bikaba biri mu nyubako ivurirwamo abarwayi b'ingeri zose indwara zitandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, iki akaba ari icyumba kirimo abantu barimo baraganirizwa n'abashyitsi bakorana mu by'ubuvuzi kugira ngo hafatwe ingamba, ku ndwara zimwe na zimwe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, havurirwa ingeri zose z'abaturage ndetse bafite umwanya mwiza munini ibinyabiziga bihagararamo mu gihe hazanywe abarwayi kwa muganga cyangwa se abakozi bakora mwa bino bitaro baje ku kazi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzi ku ndwara zitandukanye, harimo abakozi barimo barakoramo amasuku, basukura imyanda irimo ndetse n'abaganga barimo baravura abarwayi kugira ngo hanozwe isuku n'ubuvuzi bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, hari ubuvuzi bw'abantu batoya, bw'abagore, abagabo ndetse n'abasaza n'abakecuru. Hari nk'ibikoresho byifashishwa kugira ngo bavurwe neza kandi bakire bityo bagire ubuzima bwiza kandi hanozwe serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, ikaba ari inyubako ifite isuku ku buryo hizewe imikorere yayo ndetse hakaba harimo n'intebe aho abantu babasha kwicara mu gihe baje kwivuza bityo serivisi inoze ikomeze igezwe ku baturage.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru, hari umuganga uhahagaze ndetse n'abaturage baje kwivuza indwara zitandukanye. Iyi nyubako ikaba itangirwaho ubuvuzi ku baturage kugira ngo bakire.

Abantu babiri, barimo barakora umwitozo ngororamubiri, bagora amaboko, umugongo, ndetse n'amaguru, umwe arimo arawukora akina umupira, undi ari kuwukora ari kwifashisha ibikoresho byabugenewe, kugira ngo abashe kugorora izo ngingo zose.

Umukinnyi avunikiye mu kibuga umukino w'umupira w'amaguru akaba arimo aravurwa n'inzobere aho yavunitse mu gice cy'ivi, arimo aravura amugorora kugira ngo imitsi n'amaraso bikore neza maze abashe gukomeza gukina umukino cyangwa se nibiba ngombwa ahabwe ubundi buvuzi bukomeye.

Umusore uri kunywa amazi meza asukuye, amazi ari mu icupa, yarari gukora umwitozo ngororamubiri agorora imitsi, amagufa kugira ngo izo ngingo zose zikomere kandi zigire ubuzima bwiza, bityo nawe ubwe akomeze kugira ubuzima bwiza, kandi yiyirinde n'indwara zimwe na zimwe zitandukanye, maze umubiri ukore neza, amazi akaba ari bumufashe kuyungurura imyanda mu buryo butandukanye.

Inzobere y'umuganga ivura imvune zatewe n'umwitozo ngororamubiri, akaba afite mudasobwaye akoresha ashyiramo amakuru yandika abarwayi kugira ngo abone ukuntu abavura neza.

Ubwoko bw'imiti igabanya uburibwe, by'umwihariko ku bantu bahuye n'imvune cyangwa se umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, akagira aho akomereka akaba ari imiti myiza yizewe kandi ivura neza, ku buryo imikoreshereze yayo ibasha gukiza neza abarwayi.

Imodoka izwi nk'imbangukiragutabara, ikaba yifashishwa hajyanwe abarwayi kwa muganga mu buryo bwihuse, by'umwihariko mu gihe cy'imikino, iyi modoka iba ihari kugira ngo niba hagize umukinnyi ugire ikibazo cyangwa se n'uwaje kureba umupira akagira ikibazo yihutiwa vuba vuba kwa muganga.

Umukobwa arimo aranywa amazi, ubona ko asohoje umwitozo ngororamubiri akaba afite ikindi gikoresho yari arimo akoresha yihanagura icyuya, kugira ngo umubiri we ugire ubuzima bwiza.

Umukobwa urimo aranywa amazi ubona ko asoje umwitozo ngororamubiri, agorora ingingo zirimo ukuboko, amaguru ndetse n'umugongo, akaba yari afite igikoresho kindi yakoreshaga yihanagura icyuya kugira ngo umubiri ukomeze kumererwa neza, bityo yivura indwara zitandukanye.

Umuntu w'umukobwa arimo arakora imyitozo ngororamubiri agorora amaguru, umugongo, amaboko kugira ngo imitsi i komeze gukora neza amagufa nayo arusheho gukomera bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Imiti itandukanye yifashishwa hanozwa umwitozo ngororamubiri, aho ikoreshwa kugira ngo hagororwe amaboko, amaguru ndetse n'umugongo, bityo indwara zimwe na zimwe zirindwe.

Ubwoko bw'ibikoresho byifashishwa hakorwa umwitozo ngororamubiri hakorwarwa ingingo zirimo amaboko amaguru ndetse n'umugongo, akaba ari ibikoresho byiza kandi byizewe imikoreshereze yabyo, bikaba byifashishwa n'abantu b'ingeri zose, yaba ari abakobwa abasore ndetse n'abari mu zabukuru kugira ngo hanozwe ubuvuzi.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa hanozwa ubuvuzi harimo n'umukino wo kwiruka, ibi akaba ari ibikoresho bikoreshwa mu gihe umukino urimo urakorwa kugira ngo hanozwe imigorororwe y'ingingo zitandukanye.

Umwana mutoya w'umukobwa, arimo aranywa amazi, ubona ko asoje umwitozo ngororamubiri, yari afite agakoresho kandi yakoreshaga yihanagura icyuya, mu gihe ubushyuhe bwabaye bwinshi. Bigatuma akomeza kugira ubuzima bwiza rero, ingingo zigakora neza.

Uburyo butandukanye bwo gukoramo imyitozo ngororamubiri, harimo n'uburyo bw'ubwirinzi mu gihe umuntu akora imyitozo ngororamubiri nabi, akaba ahanwa kandi hakanozwa imibereho myiza y'abaturage.

Umuntu wavunitse ukuboko ahagana hafi y'urutugu arimo arivura yifashishije umuti wabugenewe, aho yawufashe akawushyira aho yagize imvune maze akaba arimo arivura.

Umuntu urimo aravurwa ubona ko yagiriye ikibazo mu myitozo ngororamubiri, akaba yicaye kugitanda, aho arimo aragororwa neza ingingo ze.

Amazi arimo arasukwa mu gikombe n'umuntu ugiye kuyanywa, akaba yari asoje umwitozo ngororamubiri, amazi akaba ari bumufashe kuyungurura imyanda ndetse no gutuma umubiri ukora neza, bityo na we agubwe neza kandi yumva afite ubuzima buzira umuze.

Umukobwa uri gukora umwitozo ngororamubiri, akaba arimo aranywa amazi kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda ndetse akaba yari ari kugorora amaboko, amaguru, umugongo, kugira ngo imitsi irambuke neza n'amaraso atembera neza mu mubiri.

Umusore usoje imyitozo ngororamubiri arimo aranywa amazi kugira ngo abashe kuyungurura imyanda ndetse akomeze kugira ubuzima bwiza. akorara umyitozo ngororamubiri kugira ngo imitsi ye ikomere ndetse n'amagufa arusheho gukomera bityo yirinde indwara zimwe na zimwe zitandukanye.

Abantu bane bari gukora umwitozo ngororamubiri bagorora amaguru, aho bari kuwukora birukanka gake gakeya kugira ngo imitsi irambukire n'amagufa arusheho gukomera, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore arimo aragororwa ukuboko, umugongo n'amaguru na muganga ubizobereye kugira ngo imitsi ikore neza, amaraso atembera neza mu umubiri, bityo yirindade indwara zitandukanye kandi agira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo arimo arakora umwitozo ngororamubiri agororera amaboko, amaguru n'umugongo, yifashishije kimwe mu cyuma baterura kugira ngo imitsi irambuke kandi ikomere ndetse n'amagufa arushaho gukomera, bityo yirinde indwara zimwe na zimwe zitandukanye.

Ubwoko bw'umuti ukoreshwa hakorwa umwitozo ngororamubiri, akaba ari umuti ugabanya uburibwe mu gihe umukinnyi agize ikibazo kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza bityo hanozwe ubuvuzi hifashishijwe uyu muti.

Muganga arimo arakoresha umurwayi umwitozo ngororamubiri w'ukuguru yifashishije bimwe mu bikoresho byiza byizewe mu gukora uwo mwitozo, aho bigorora imitsi ikabasha kurambuka neza amaraso agatembera.

Imyitozo ngororamubiri icumi, umuntu akora kugira ngo yongere agire ubuzima bwiza nyuma y'uko ahuye n'ikibazo cyo mu mutwe, hari ukwicara neza ukagorora amavi, hari uguhaguruka n'indi itandukanye.

Umuntu w'igitsina gore, arimo arakora umwitozo ngororamubiri, ndetse hakaba hari n'amoko y'imbuto yifashishwa umuntu amaze gukora umwitozo ngororamubiri kugira ngo agarure intungamubiri zitandukanye, harimo imineke, amatunda, n'izindi mbuto, zikaba zikoreshwa kugira ngo umuntu azifate nyuma y'umwitozo ngororamubiri.

Intebe akaba ari kimwe mu bikoresho byifashishwa hakorwa umwitozo ngororamubiri, aho umurwayi yicaraho akegamira akagororwa ingingo zitandukanye, kugira ngo agire ubuzima bwiza nawe abasha guki...

Umukobwa ufite ikibazo mu ivi, ubona ko amaze kuvurwa hifashishijwe imiti yabugenewe kugira ngo akire, akaba yavunitse ari gukora imwe mu myitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri ukomeze ugende neza.

Umukobwa uri kunywa amazi akaba asoje umwitozo ngororamubiri aho yagororaga amaboko, umugongo n'amaguru akaba arimo araywa amazi kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda no gutuma umubiri ukome...

Umuntu wari urimo arakina, akaba agize ikibazo aho ashobora kuba agize ikibazo cy'ubuhumekero, cyangwa se imvune, gusa akaba arimo aritabwaho kugira abashe kuvurwa na we agire ubuzima bwiza.

Umuntu uri gukora umwitozo ngororamubiri awukoreshejwe na muganga w'inzobere wabihuguriwe, kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse imitsi, amagufa, byose bikomeze kumera neza, nawe umubiri we ukora neza.

Ubwoko bw'ibikoresho byifashishwa hagororwa ingingo, harimo ibikoresho bigora amaboko, ibigorora amaguru, ibigorora umugongo n'ibindi umuntu akora kugira ngo aringanize inda. Harimo udukoresho dutoya umuntu aterura mu biganza kugira ngo agorore imitsi ndetse hari n'imbuto ku ruhande umuntu afata kugira ngo yongere imbaraga n'amazi mu anywa kugira ngo imyanda imwe n'imwe iyungurwe.

Umukobwa arimo aragorora amaboko, umugongo n'amaguru kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri, imitsi irambuke na we abashe kuruhura umutwe kandi agire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore arimo arakora umwitozo ngororamubiri agorora amaguru, maboko n'umugongo kugira ngo imitsi irambuke neza, afite icupa ririmo amazi anywa mu gihe asoje cyangwa se ananiwe kugira ngo amufashe kuyungurura imyanda.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baje kureba umukino wahuje abana b'abakobwa, umukino ukinwa hifashijwe intoki aho bakina umupira bawuboneza mu nkangara, hagamijwe kugira ngo hanozwe imyitozo ngororamubiri mu bana batoya, amagufa akomere ndetse n'imitsi ikore neza birinde uburwayi.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga hagororwa ingingo ndetse hananurwa neza imitsi, umugongo n'amaboko, akaba ari ibikoresho byiza, byizewe kandi bikoranwe isuku, bifasha mu buvuzi.

Umuntu wavunitse, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, akaba yavunitse igice cy'ukuguru ahagana ku kirenge, akaba arimo arivura yifashishije umuti, umuti mwiza ukora neza, kandi uvura.

Umuti uhagarika uburibwe, yaba ari kumvune cyangwa se no ku bindi bikomere, akaba ari umuti mwiza kandi wizewe utunganywa, ugakoreshwa kugira ngo havurwe abarwayi ahubwo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuntu uri gukora umwitozo ngororamubiri w'amaguru, amaboko, umugongo, arimo ariruka, hakaba hari imbuto afata kugira ngo zimwongerere imbaraga mu gihe asoje uwo mwitozo ngororamubiri.

Umuntu wavunikiye mu mwitozo ngororamubiri, akavunika ahagana ku kaboko, akaba arimo arivura yifashishije umuti wabugenewe, umuti ushyirwa ku mvune maze ugakanda neza ndetse ukanavura uwagize ikibazo bityo akagira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'ibikoresho byifashishwa hatangwa ubuvuzi binyuze mu myitozo ngororamubiri. Hakaba hari ibikoresho byiza bikora neza kandi byizewe ku buryo ubuvuzi butezwa imbere, binyuze mu gukora imyitozo ngororangingo.

Umuntu arimo aravurwa binyuze mu kumukoresha umwitozo ngororamubiri, arimo arawukoreshwa n'inzobere mu by'ubuvuzi muganga kugira ngo hagororwe ingingo z'umubiri zirimo amaboko, amaguru ndetse n'umugongo.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bwerekeye ku myitozo ngororamubiri, kugira ngo abayikora babashe kwitabwaho ndetse banatanga ubujyanama mu gukora imyitozo ngororamubiri, kuko imyitozo ngororamubiri igira uruhare runini cyane mu kuvura umubiri.

Ibikoresho byifashishwa havurwa imvune ziterwa no gukora imyitozo ngororamubiri harimo nko gukomera akaboko, akaguru, aho byifashishwa havura izo mvune zose kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza.

Igikoresho cyifashishwa hakorwa imyitozo ngororamubiri, umuntu agorora amaboko, umugongo, ndetse n'amaguru, kugira ngo amaraso atembera neza mu mubiri, imitsi ibashe gukomera, ndetse n'amagufa arushaho gukomera.

Umusore uri kunywa amazi akaba asoje gukora imyitozo ngororamubiri, amazi akaba ari bumufasha kuyungurura imyanda maze umubiri ukore neza, amagufa, imitsi ibashe gukora neza, kandi na we yumve ko umubiri wiwe urimo umeze neza.

Ishusho iriho inyungu zo gukora imyitozo ngororamubiri, cyane cyane iyo ubikora buri gihe; harimo kugabanya umuvuduko w'amaraso, ikindi bigabanya umunaniro, bikongera umubiri imbaraga ndetse umuntu akagira ubuzima bwiza.

Umuntu wavunikiye mu myitozo ngororamubiri ukuboko, akaba arimo arivura yifashishije umuti wabugenewe, aho yawushyize aho yavunitse kugira ngo abashe gukira vuba.

Umuntu arimo arakora umwitozo ngororamubiri agorora amaguru, umugongo, amaboko kugira ngo imitsi irambuke ndetse n'amagufa akomere, arimo arakoresha ibikoresho byabugenewe hakorwa uwo mwitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ibikoresho byifashishwa hakorwa imyitozo ngororamubiri, harimo umupira bakinisha amaguru, uwo bakinisha amaboko, kugira ngo imitsi ikore neza amaraso atembere mu mubiri kandi abantu bagire ubuzima bwiza.

Umusore urimo urakora umyitozo ngororamubiri arimo aragorora umugongo, amaboko, amaguru kugira ngo umubiri we umere neza kandi imitsi ikure neza, nawe ubwe agire ubuzima bwiza.

Umuntu urimo aragorora amaboko, kugira ngo imitsi irambuke n'amagufa arusheho gukomera, ndetse n'amaraso atembera neza mu mubiri, bityo yirinde idwara zitandukanye kandi akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa havurwa indwara z'umwihariko ziterwa n'imyitozo ngororamubiri cyangwa se n'izindi mvune, akaba ibikoresho byizewe birimo umuti, amavuta basiga ku mvune maze imvune ikabasha gukira.

Umukinnyi warimo arakora umwitozo ngororamubiri agorora amaboko, amaguru, umugongo n'izindi ngingo, akaba yavunitse ahagana ku ukuboko, aho arimo aravurwa n'inzobere irimo iramupfuka aho yakomeretse kugira ngo nawe akire vuba.

Imiti itandukanye ndetse n'ubundi bwoko bw'ibikoresho butandukanye byose byifashishwa havurwa imvune cyanga se ibikomere byabonetse hatewe n'umwitozo ngororamubiri, kugira ngo abagize izo mvune bitabweho bavu.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri agorora amaguru, amaboko n'umugongo. Hakaba n'ibindi bikoresho bitandukanye byo gukoresha umwitozo ngororamubiri mu cyumba arimo. Byose bikaba bigamije kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, ndetse imitsi, amagufa bikomeze gukora neza.

Umuntu w'umukobwa arimo aragorora amaguru, umugongo n'amaboko, kugira ngo imitsi n'amagufa bikomeze bikore neza; kandi nawe agire ubuzima bwiza, amaraso akomeza gutembera neza mu mubiri.

Imiti itandukanye yifashishwa hanozwa imyitozo ngororamubiri, harimo amavuta umuntu yisiga mu gihe yigize ikibazo arimo akora imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha kugira ngo bigende neza.

Umusore wakoraga umwitozo ngororamubiri arimo aranywa amazi kugira ngo amazi amufashe kuyungurura imyanda ndetse no gutuma umubiri ukora neza, yagororaga umugongo, amaboko, amaguru kugira ngo imitsi n'amagufa na byo bigire ubuzima bwiza kandi bikore neza.

Umusore urimo arasuka amazi mu mutwe, ubona ko yari asoje umwitozo ngororamubiri, aho yari afite ubushyuhe bwinshi, akaba asutse amazi mu mutwe kugira ngo imyanda ibashe kuvaho kandi yumve n'umubiri uguwe neza bityo yirinde indwara zitandukanye kandi akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uryamye urimo aravurwa na muganga binyuze mu kumugorora ingingo zirimo kuguru, ndetse na we akaba aryamye ku buryo umugongo ubasha kugororoka neza, maze agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Amazi meza arimo arasukwa mu gikombe, akaba ari amazi asukuye, umuntu ashobora kunywa asoje umwitozo ngororamubiri, amufasha kuyungurura imyanda ndetse no gutuma umubiri ukora neza. Bityo abasha kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo, wavunitse ukuguru, ahagana ku kirenge ari gukora umwitozo ngororamubiri, akaba arimo aravurwa n'inzobere, umuganga wabihuguriwe, mu gutanga ubuvuzi bw'imvune.

Umuntu arimo arakora umwitozo ngororamubiri, akaba yagize ikibazo ahagana ku kirenge, akaba agomba kwivuza ndetse umubiri ugakora neza. Akora umwitozo ngororamubiri kugira ngo amaraso atembere neza umubiri, ndetse n'imitsi ikomeze gukomera.

Umukobwa uri gukora umwitozo ngororamubiri, agorora amaguru, umugongo n'amaboko, kugira ngo imitsi irambuke ndetse n'amagufa arushaho gukomera, bityo agire ubuzima bwiza. Kandi yirinde n'indwara zitandukanye.

Amazi meza asukuye, arimo arasukwa mu gikombe kugira ngo anyobwe, maze abashe kuyungurura imyanda itandukanye mu mubiri, kandi n'uyanyweye agire ubuzima bwiza. Hakaba hari amazi ashobora kunyubwa n'umuntu usoje imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri we ukore neza.

Umukobwa arimo akora imyitozo ngororamubiri, agorora umugongo, amaboko n'amaguru, kugira ngo imitsi ikomeze ku mera neza, n'amaraso atembera neza mu mubiri, birinda indwara zitandukanye zishobora kumufata za hato na hato.

Umusore wari mu myitozo ngororamubiri, arimo arasuka amazi mu mutwe ubona ko, yari afite ubushyuhe bwinshi, ariko yagororaga ingingo zirimo amaboko, amaguru, n'umugongo, kugira ngo imitsi ikore neza n'amaraso atembera neza mu mubiri.

Ubwoko bwinshi bw'ibikoresho byifashishwa havurwa imvune, cyane cyane abantu baba bavunikiye mu imyitozo ngororamubiri, harimo amavuta basiga ku mvune kugira ngo zikire neza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa yaba ibyo bakoresha bari gupfuka ibyo bikomere.

Umuntu w'igitsina gabo arimo arakora imwitozo ngororangingo, agorora amaguru umugongo n'amaboko, kugira ngo imitsi ikomeze kurambuka kandi ikure neza, n'amaraso atembera neza mu mubiri, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Uburyo bu butandukanye buriho amashusho agaragaza ukuntu bapfuka ibikomere byo ku kuboko kugira ngo umuntu wese ugira izo mvune imyitozo ngororamubiri, abashe kumenya no kubona uburyo avurwamo neza.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi binyuze mu myitozo ngororamubiri harimo ibikoresho byifashishwa aho umuntu agenda agakora imyitozo agorora umugongo, amaguru, ndetse n'amaboko harimo n'impuguke ikoresha iyo myitozo ngororamubiri ndetse hari n'ubuvuzi buhatangirwa mu gihe umuntu agiriyemo kibazo.

Muganga arimo arakoresha umuntu imyitozo ngororamubiri arimo aramufasha kugorora amaguru, umugongo n'amaboko kugira ngo agire ubuzima bwiza yifashishije ibikoresho byabugenewe.

Ubwoko bw'ibikoresho byifashishwa havurwa umuntu wagiriye ikibazo mu myitozo ngororamubiri, harimo isizo, ibipfuko, umuti basigaho n'indi miti itandukanye.

Umugore ndetse n'umugabo bari kunywa amazi, ubona ko bari basoje imyitozo ngororamubiri, amazi akaba agiye kubafasha kuyungurura imyanda mu mubiri ndetse no gutuma umubiri ukomeza kumera neza, bityo bakomeza no kwirinda indwara zitandukanye.

Umuntu wakomeretse ukuguru ku gice cy'ivi, ubona ko yavunikiye mu mwitozo ngororamubiri, akaba arimo arahabwa ubundi buvuzi bunyuze mu kumugorora n'ubundi izi ngingo yavunitse, hifashishijwe imiti yabugenewe.

igikoresho cyifashishwa hakorwa umwitozo ngororamubiri, hagororwa amaguru kugira ngo imitsi ikore neza ndetse amagufa arusheho gukomera, bityo n'umubiri ukomeze kugubwa neza kandi hirindwa indwara.

Umukobwa arimo arakora umwitozo ngororamubiri w'amaguru, amaboko ndetse n'umugongo, aho arimo arabigorora byose kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri, imitsi ikomeze gukomera kandi n'amagufa akomere.

Umuntu uri gukora umwitozo ngororamubiri, agorora umugongo, amaboko ndetse n'amaguru, yifashishije ibikoresho byabugenewe, aho ubona ko ari mu nzu irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa hagororwa umubiri kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza.

Kwa muganga, umurwayi arimo arakoreshwa imyitozo ngororamubiri, aho muganga yamuryamishije yifashishije ibikoresho byabugenewe abasha kubikoresha neza, maze amugorore umugongo n'izindi ngingo, nawe agire ubuzima bwiza

Umuntu uri gukora umwitozo ngororamubiri, agorora amaguru, umugongo n'amaboko, akaba ari kumwe n'umuganga w'inzobere ukoresha iyo myitozo kugira ngo igende neza kandi n'uwo muntu agire ubuzima.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho bikorwamo umuti uvura neza kandi wizewe, akaba ari umuti ukoreshwa havurwa abaturage b'ingeri zose kugira ngo bakire.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa hakorwa umuti, uzwi nk'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abana batoya ndetse n'izifata abantu bakuru, akaba ari umuti uvura neza kandi wizewe, wujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'ibimera byinshi bitandukanye, harimo igikakarubamba n'ubundi bwoko bw'ibyatsi, byose bikaba bisoromwa, bigahuriza hamwe, bigakorwamo umuti uvura indwara nyinshi zitandukanye zifata umubiri.

Ibyatsi birimo igikakarubamba n'ibindi byatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho bikora neza kandi bikavura bikaba bisoromwa bikifashishwa havurwa indwara zifata umubiri, yaba indwara zo mu nda n'indwara z'uruhu.

Ubwoko bw'ibyatsi ndetse n'ibiti bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho babisoroma bakabitegura neza bigakorwamo umuti uvura kandi umuti wizewe.

Ubwoko bw'umuti ufunzwe neza ukaba ukozwe mu byatsi, akaba ari umuti wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ukaba wizeye kandi ukora neza, wujuje ubuziranenge ku buryo uburarwayi bagakira.

Ubwoko bw'ibyatsi byinshi bitandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa by'ibyatsi bikorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, bikaba byifashishwa harwanywa uburwayi mu baturage.

Mu mashusho menshi agaragaza ubwoko butandukanye bw'ibimera ndetse n'imbuto byifashishwa hakorwa umuti, harimo nk'ibyatsi, ibikakarubamba, umuravumba, umunkamba, n'ibindi byatsi. Byose bikaba byifashishwa mu buvuzi bw'indwara.

Ubwoko bw'imiti itandukanye ikoze mu bimera birimo igikakarubamba n'ibindi byatsi, akaba ari imiti ivura neza kandi yizewe ikoreshwa havurwa abarwayi kugira ngo hanozwe imibereho myiza y'abaturage.

Umuti ukozwe mu gikakarubamba, akaba ari icyatsi kivura indwara nyinshi zitandukanye, harimo indwara zo mu nda n'indwara z'uruhu. Umuti ukaba wifashishwa havurwa ubwo burwayi ndetse n'izindi ndwara kwa muganga.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu byatsi bivanzemo tangawizi, akaba ari umuti uvura indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu muhogo n'izindi ndwara, ukaba ukozwe mu byatsi gakondo.

Ibimera byifashishwa hatunganywa umuti mwiza kandi wizewe, uvura neza. Akaba ari ibyatsi bisoromwa, hagakoreshwa ibikoresho byabugenewe kugira ngo bitunganywe, maze umuti uvuyemo, uvure indwara, yaba ari indwara zo mu nda, n'indwara z'uruhu. Kandi uwo muti ukaba wizewe ubuvuzi bwawo.

Ubwoko bw'amavuta akozwe mu bimera bizwi nk'ibyatsi gakondo harimo imbuto ndetse n'ibindi byatsi, akaba yifashishwa mu buvuzi aho avura indwara zitandukanye harimo indwara zo mu nda n'izindi ndwara.

Ubwoko bw'ibyatsi buzwi nk'umuravumba ndetse n'ibindi byatsi bikaba byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda n'indwara zo mu mihogo kugira ngo abazirwaye bitabweho neza kandi bakire.

Ubwoko bw'icupa ririmo umuti, ukozwe mu byatsi birimo igikakarubamba n'ibindi byatsi ndetse n'imbuto. Bikaba byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abantu batoya ndetse n'abakuze.

Ubwoko bw'ibyatsi butandukanye bugabanyijemo ibice bibiri ndetse n'imbuto zirimo ibitoki bibisi byifashishwa hakorwa imiti ivura indwara zitandukanye, akaba ari imiti ivura neza kandi ikoreshwa kwa muganga.

Ubwoko bw'imiti yifashishwa havurwa indwara zitandukanye, ikaba ari imiti ikozwe mu bimera; birimo igikakarubamba n'ibindi byatsi, aho bisoromwa bigatunganywamo umuti wizewe kandi uvura neza indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'imiti itandukanye irimo imizi y'ibiti n'ibishishwa by'ibiti ndetse n'izindi mbuto. Yose akaba imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye ikaba ivura neza kandi yizewe.

Ubwoko bw'ibyatsi ndetse n'amashusho yabwo, hepfo hakaba hari ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye zifata umubiri, harimo indwara zo mu nda, indwara z'uruhu n'izindi ndwara.

Ubwoko bw'icyatsi kizwi nk'igikakarubamba, cyifashishwa hakorwa imiti myinshi itandukanye, harimo imiti ivura mu nda, ivura uruhu n'indi miti, akaba ari icyatsi kivura indwara nyinshi kandi kikaba kivura neza.

Ubwoko bwinshi bw'imiti yifashishwa havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda, indwara z'uruhu n'izindi ndwara, akaba ari imiti izwi nk'imiti y'ibimera harimo igikakarubamba n'ibindi byatsi, tangawizi ndetse n'amoko y'ibiti atandukanye ariko avura.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu mutwe, indwara zo mu nda n'izindi ndwara, akaba ari ibyatsi byiza bivura kandi umuti wabyo ukaba wizewe, ukoreshwa havurwa abaturage.

Imiti myinshi itandukanye ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ikaba ari imiti ikoze mu gikakarubamba, umuravumba, mu buki ndetse n'ibindi byatsi, iyo miti ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'ibyatsi bitandukanye byifashishwa havurwa indwara zitandukanye harimo ibitoto n'ibindi byatsi, bikaba bisoromwa bigatunganywamo umuti uzwi nk'umuti gakondo uvura neza indwara kandi...

Ubwoko bw'ibyatsi byinshi byifashishwa hakorwa umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, akaba ari umuti utunganywa ku buryo bwiza kandi ukaba wizewe imikorere yawo, ukaba wifashishwa havurwa abato.

Ubwoko bw'ibyatsi busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nk'umute gakondo bw'indwara zitandukanye; harimo'indwara zo munda, indwara z'uruhu n'izindi ndwara. Ukaba ari umuti mwiza kandi ugakora neza, wifashishwa havurwa ingeri z'abantu benshi kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'ibyatsi, ibiti ndetse n'imizi y'ibiti, byifashishwa hakorwa umuti, uzwi nk'umuti gakondo uvu ndwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda, indwara z'uruhu n'izindi ndwara kugira ngo umuti ubashe kwifashishwa hatezwa imbere ubuvuzi bw'abatu...

Ubwoko bw'umuti upima amagarama ijana kaba ari umuti ukozwe mu ruvange rw'ibyatsi byinshi ndetse n'imbuto by'umwimerere, harimo ikakarubamba, umuravumba, n'ibindi byatsi. Ukaba ari umuti uvura neza.

Abwoko bw'ibyatsi bitandukanye birimo umuravumba n'ubundi bwoko, ukaba ari ibyatsi bikorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, uvura indwara zitandukanye harimo indwara zo mu nda, iz'uruhu ndetse n'izindi ndwara.

Ubwoko bw'ibinini bikozwe mu byatsi, birimo igikakarubamba n'izindi mbuto, akaba ari umuti ukoreshwa havura indwara zitandukanye kandi ukaba ukora neza ku buryo wujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'ibyatsi, byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'abana batoya ndetse n'ubuvuzi bw'abantu bakuze. Akaba ari ibyatsi bisoromwa, bigatunganywamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, uvura neza indwara zigakira.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu gikakarubamba, akaba ari umuti ukorwa mu byatsi, aho ibyatsi bisoromwa, bigatunganywa hifashishijwe ibikoresho byabugenewe, bikavanwamo uyu muti mwiza kandi uvura neza.

Ibyatsi bikorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, akaba ari umuti uvura indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, n'izindi ndwara. Ukaba wifashishwa havurwa abaturage b'ingeri zose. Yaba ari abana batoya, abagore, abagabo ndetse n'abasaza n'abakecuru.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu buki, akaba ari umuti uvura indwara zitandukanye, ukaba uzwi nk'umuti gakondo, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa abaturage b'ingeri zose, kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza kandi hirindwe indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'imbuto zifashishwa hakorwa umuti, umuti uzwi nk'umuti gakondo ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Akaba ari imbuto basoroma bakazitunganya zikavanwamo umuti umurwayi anywa akabasha gukira.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa hakorwa umuti uzwi nk'umuti gakondo ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye yaba ari indwara zo mu nda, indwara z'uruhu n'izindi. Akaba ari umuti wizewe kandi uvura neza, ukaba ukoreshwa kugira ngo hanozwe ubuvuzi hifashishijwe n'ibimera.

Ubwoko bw'imiti yo mu Kagera, akaba ari ibyatsi byifashishwa hatunganywa umuti uvura neza, uvura indwara zitandukanye, yaba ari ukuvura abana batoya, kuvura abagore n'abagabo, ndetse no ku kuvura abakecuru n'abasaza.

Umuntu arimo arasoroma bumwe mu bwoko bw'ibyatsi byifashishwa havurwa indwara zitandukanye, aho ibyatsi bisoromwa bigatunganwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo uvura neza kandi ukiza indwara neza, bityo ukaba wifashishwa havurwa abarwayi.

Ubwoko bw'amavuta akozwe mu buki, akaba ari umuti wifashishwa ndetse havurwa uburwayi butandukanye ukawuvura neza kandi wizewe ku buryo wifashishwa harimo harwanywa indwara zimwe na zimwe.

Ubwoko bw'imiti itandukanye, irimo ibyatsi, tangawizi, n'indi miti, kaba ari miti yifashishwa hakorwa umuti, uzwi nk'umuti gakondo, yose igaburizwa hamwe, ikavanwamo umuti umwe uvura neza kandi wizewe.

Ubwoko bw'amavuta akozwe mu bimera, akaba ari amavuta akoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, akaba akozwe mu gikakarubamba, akaba ari ibyatsi byiza bizwi kandi bivura neza byizewe, bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara izo arizo zose.

Ubwoko bw'urubuto ruryoha cyane, rukaba rwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, bukaba buzwi nk'ipapayi, aho uru rubuto rwifashishwa cyane cyane mu kongera amaraso ndetse rugatuma n'umubiri ukora neza cyane.

Ibyatsi bitandukanye bikoreshwa havura indwara zitandukanye ndetse n'amazi meza avura, aho abarwayi bayajyamo akabasha kunanura imigongo, akabakanda imvune zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Hari urujya n'uruza rw'abantu benshi rurimo rurajya kuhakorera imyitozo ngororamubiri.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu bimera birimo ibyatsi, aho bisoromwa bigatunganywa bikaba byarakozwe mo uyu muti. Akaba ari umuti wifashishwa havurwa indwara zitandukanye yaba ari indwara z'uruhu n'izindi ndwara kandi ukaba wizewe imikorere yawo.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho ibi byatsi bisoromwa hagakorwamo umuti uvura neza kandi wizewe, hagamijwe kunoza imivurire myiza y'abaturage ku Isi hose binyuze mu kwifashisha ibimera cyangwa se imiti gakondo.

Ibyatsi bitandukanye bikorwamo umuti, umuti gakondo, uvura indwara zitandukanye, yaba ari indwara zifata abana batoya, izifata abakuze, ndetse hari n'ibikoresho byifashishwa barimo baratunganya uwo umuti uvura neza kandi wizewe.

Ubwoko bw'umuti ubasha guhangana n'indwara ya amibe, kurusha indi miti yose, akaba ari umuti ukozwe mu bimera birimo ibyatsi, ukaba ari umuti wizewe kandi uvura neza, ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara cyane cyane indwara ya amibe.

Ubwoko bw'ibyatsi bukorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, uvura indwara zitandukanye harimo ibyatsi bisoromwa, bigatunganywa neza, maze umuti uvuyemo ugakoreshwa kwa muganga n'abaturage bakuwukoresha kugira ngo bivure indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'icyatsi cyifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, akaba ari icyatsi kizwi nk'ikimera kikaba gisoromwa kigatunganywamo umuti uvura neza kandi wizewe ukoreshwa n'abaturage barimo bivura indwara.

Ubwoko bw'amavuta akozwe mu buki, akaba ari amavuta yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, akaba avura neza, akaba atunganywa ku buryo ubuvuzi bwayo bwizewe kandi akabasha gufasha abaturage b'ingeri zose kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa havurwa indwara zitandukanyeba, akaba ari ibyatsi gakondo aho bisoromwa bigatunganywa hifashishijwe ibikoresho byabugenewe, maze hagakorwarwamo umuti uvura neza kandi wizewe ubuvuzi bwawo bityo n'indwara zimwe na zimwe zikavurwa.

Amoko y'imiti, yoroshye kuyikoresha, akaba ari imiti itunganywa mu bimera, birimo ibyatsi by'igikakarubamba n'ibindi harimo n'indi ikozwe mu buki, yose ikaba yifashishwa mu buvuzi.

Ubwoko bw'imiti itandukanye yose ikaba ikozwe mu gikakarubambaba, akaba ari icyatsi kivura indwara zitandukanye, zirimo indwara zo muhogo n'izo mu nda ndetse n'indwara z'uhuru, kikaba kivura neza kandi umuti wa cyo ukaba wujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu bimera wifashishwa havurwa indwara zitandukanye zifata abaturage, kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi bitabweho neza, bityo hanozwe ubuvuzi bw'indwara, binyuze mu kwifashisha ibimera.

Ubwoko bw'imiti ikozwe mu bimera birimo ibyatsi n'imbuto, akaba ari imiti ifasha mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda, indwara z'uruhu n'izindi ndwara, ikaba yizewe kandi ikora neza, ivura neza.

Ubwoko bw'umuti utunganyijwe mu bimera by'ibyatsi, ukaba wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kugira ngo abazirwaye bakira, yaba ari abana batoya ndetse n'abakuze babashe gukira.

Ubwoko bw'imbuto, ibyatsi ndetse n'imizi y'ibiti byifashishwa hatunganywa umuti uzwi nk'umuti gakondo, ndetse hari n'ibikoresho bikoreshwa hatunganywa iyo miti kugira ngo ikorwe neza kandi ibe yujuje ubuziranenge.

Umuti ukozwe mu gikakarubamba, ukaba uvura indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu nda, indwara z'uruhu n'izindi ndwara, bikaba ari ibyatsi bisoromwa bigatunganywa hifashishijwe ibikoresho byabugenewe, bikaba bivura neza kandi abarwayi bagakira.

Ubwoko bw'imiti itandukanye bikozwe mu byatsi bizwi nk'igikarubamba ndetse n'amavuta akozwe mu buki, yose akaba ari imiti ivura neza kandi ivura indwara zitandukanye ku bazirwa...

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa havurwa indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu nda, n'izindi ndwara z'uruhu, bikaba ari ibyatsi by'umwimerere gakondo, bikaba bivura neza kandi byujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'icyatsi cyifashishwa, hatunganywa umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Icyatsi kikaba gisoromwa kigatunganywa ku buryo umuti uvuyemo wifashishwa havurwa abarwayi, kandi ukaba ukora neza.

Ubwoko bw'icyatsi kifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho gisoromwa kigatunganywamo umuti uvura neza kandi wizewe, hagamijwe guteza imbere ubuvuzi binyuze mu kwifashisha n'ibimera.

Umumama arimo arasoroma umuravumba akaba ari ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye aho bisoromwa bigatunganywamo umuti ukora neza kandi uvura indwara yaba indwara zo mu muhogo n'izindi.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu bimera birimo ibyatsi n'imbuto, akaba ari umuti wizewe ndetse warangijwe no gukora ku buryo uwukeneye yahamagara nimero ya zirukandwi umunani, icyenda icyenda, zeru kane, icyenda icyenda, icyenda kugira ngo abashe kuwukoresha yivura.

Ubwoko bw'amavuta akoze mu gikakarubamba n'izindi mbuto, akaba hifashishwa mu buvuzi bw'indwara, aho umuntu yakoresha yaba ari ukuyisiga ndetse no mu bundi buryo kugira ngo akire.

Umuntu w'igitsina gore uri kugaragaza ubwoko bw'umuti ukozwe mu bimera birimo ibyatsi ndetse n'imbuto, akaba ari umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara kwa muganga, umuti mwiza kandi wizewe ndetse uvura neza.

Ubwoko bw'ibyatsi buvura indwara zitandukanye, ibyo byatsi uka biri mu gifumbiro mu bihoho aho bigiye guterwa ku bwinshi kugira ngo bibashe kuboneka, bikoreshwe kandi hakorwe umuti uhagije maze uburwayi bukomeze kuvurwa.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye aho ibyo byatsi bisoromwa bigakorwamo umuti, umuti gakondo, umuti uvura neza, aba akaba ari abantu bakora mu gutunganya iyo miti no kugira ngo hatezwe imbere ubuvuzi bwemera.

Amoko atandukanye y'imbuto yifashishwa hakorwa umuti uzwi nk'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, harimo imineke, inanasi ndetse n'ibindi byatsi, ukaba ari umuti uvura neza kandi wizewe imikoresherezwe yawo.

Umuti ukozwe mu gikakarubamba, akaba ari amavuta, ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo munda n'indwara z'uruhu kugira ngo uzirwaye yitabweho kandi akire, bityo agire ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'ibyatsi bikorwa mu mutiti gakondo uvura indwara zitandukanye kugira ngo abazirwayi bakire kandi bagire ubuzima bwiza, bikaba ari ibyatsi bivura neza kandi bivura abarwayi bagakira.

Ubwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba indwara zo mu nda n'izindi ndwara, aho ibyatsi bisoromwa bigakoreshwa neza bikavura indwara kandi indwara zigakira, bityo hakanozwa ubuvuzi bwiza bw'abaturage hifashishijwe imiti ikozwe mu bimera.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu bimera akaba ari umuti wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo indwara z'uruhu, indwara zo mu nda n'izindi ndwara, ikaba ari imiti yizewe kandi ikoreshwa neza ku buryo kwa muganga yifashishwa.

Umuti gakondo ukozwe m'ubuki, ukaba ari umuti wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye; harimo indwara zuruhu, indwara zo munda. Ukavura neza kandi wizewe, ndetse ukaba wujuje ubuziranenge wifashishwa kwa muganga.

Amoko y'ibyatsi byinshi bitandukanye, harimo ibiti, imbuto ndetse n'imizi y'ibiti ariko byose byifashishwa mu buvuzi bw'indwara, akaba ari imiti ivura neza kandi yizewe, ikaba ikoreshwa kwa muganga ndetse no mu baturage.

Ubwoko bw'imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa hatunganywa iyo miti, akaba ari imiti ikozwe mu byatsi, imbuto n'indi mizi y'ibindi biti, akaba ari imiti ivura neza kandi yizewe.

Ubwoko bw'imbuto ndetse n'indi miti ikozwemo, akaba ari imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye by'umwihariko akaba ari amavuta yisigwa kugira ngo abashe gukesha uruhu ndetse no kuvura izindi ndwara.

Amavuta akozwe mu byatsi bizwi nk'igikakarubamba n'izindi mbuto, akaba ari amavuta yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, by'umwihariko indwara z'uruhu n'izindi ndwara aho umuntu yakoresha yisiga maze akabasha kumukiza neza kandi akagira ubuzima bwiza bityo imivurire myiza igatezwa imbere binyuze mu kwifashisha ibimera.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu bimera birimo ibyatsi n'imbuto, ukaba unyobwa kugira ngo utange imbaraga ku buzima ndetse unavure indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'amavuta akozwe mu gikakarubamba, akaba ari umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo indwara zo kuba umuntu ariko kuva nk'amaraso, aho uyu muti wifashishwa ndetse ukaba uvura neza n'izindi ndwara.

Umumama arimo arasoroma ibyatsi, kugirango abikoreshe yivura avura n'abandi akaba ari ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara kuko bifite ubushobozi bwo gukiza indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'amavuta akozwe mu byatsi birimo ibikakarubamba n'ibindi byatsi ndetse n'imbuto, bikaba byifashishwa byose havurwa indwara zitandukanye, akaba yizera kandi akora neza yujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu bimera, birimo ibyatsi n'imbuto, aho bisoromwa bigatunganywamo umuti mwiza kandi wizewe, akaba ari umuti wifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kandi akaba ari umuti ukora neza.

Ubwoko bw'imiti myinshi isoromwe mu bimera harimo ibyatsi nk'igikakarubamba, umuravumba, imizi y'ibiti ndetse n'ibindi batsi. Byose bikaba byifashishwa havurwa indwara zitandukanye kandi akaba ari umuti wizewe.

Ubwoko bw'umuti, ukozwe mu bimera birimo ibyatsi, nk'umuravumba, igikakarubamba, umunkamba, n'ibindi byatsi. Bikaba byifashwa mu kuvura indwara, aho bitunganywamo umuti, uvura neza.

Ubwoko bwinshi bw'imiti itandukanye ikozwe mu bimera, harimo ibyatsi n'igikakarubamba, umuravumba, umwenya, umunkamba, tangawizi ndetse n'indi ikozwe mu buki, ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara.

Ubwoko bw'ibyatsi bikorwamo umuti uzi umuti gakondo kaba ari umuti uvura neza indwara zitandukanye kugirango hanozwe imibereho myiza y'abaturage kandi bakomezekugira ubuzima bwiza buzira indwara za hato na hato.

Ubwoko bw'umuti utunganyijwe mu byatsi birimo umuravumba n'ibindi wari umuti ukora neza kandi uvura ukaba wizewe aho wifashishwa havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda n'ubundi burwayi

Ubwoko bw'ibyatsi bikorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo ndetse n'ibikoresho byabugenewe mu gutunganya uwo muti, aho ibyo byatsi bisoromwa bigakorwamo umuti mwiza ndetse bikavangwa n'ibindi bimera kugira ngo umuti uze kuba wujuje ubuziranenge kandi uvura neza.

Ibyatsi byifashishwa hakorwa umuti, umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye kwa muganga havurwa abana bato, abagore n'abagabo, ndetse n'abasaza n'abakecuru kugira ngo hanozwe imiyoborere myiza binyuze no mu kwifashisha ibimera.

Ubwoko bw'ikimera kifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Akaba ari icyatsi gisoromwa kigatunganywamo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara, hagamijwe kugira ngo abarwayi babone serivisi nziza z'ubuvuzi.

Ubwoko bw'imiti ikozwe mu bimera, akaba ari umuti uvura indwara zirimo kurangiza vuba, gucika intege ndetse n'ubundi burwayi, ikaba yifashwa kugira ngo hanozwe imibereho myiza y'abaturage.

Ubwoko bwinshi bw'amacupa arimo imiti ikozwe mu bimera, birimo ibyatsi nk'umuravumba, igikakarubamba, umunkamba, umwenya n'ibindi byatsi. Hari n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa hakorwamo iyo miti akaba ari imiti myiza kandi ivura.

Ubwoko bw'imiti ikozwe mu bimera, harimo ibikozwe mu gikakarubamba, umuravumba ndetse n'imbuto, akaba ari imiti ivura neza kandi yifashishwa kwa muganga, havurwa abarwayi b'ingeri zose kugira ngo hanozwe ubuzima bwiza bw'abaturage.

Amacupa arimo ubwoko bw'umuti uzwi nk'umuti w'ibimera ukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, ukaba ari umuti mwiza kandi wizewe uvura neza ukaba ukoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi b'ingeri zose kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'ibyatsi byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'indwara, aho ibi byatsi byose bisoromwa bikavangwa bigatunganywamo umuti uvura neza uburwayi bugakira.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu gikakarubamba, ukaba ari umuti wifashishwa havura indwara zitandukanye, harimo indwara z'amenyo izo mu nda n'indwara z'uruhu, iki akaba ari icyatsi gisoromwa kigatunganywa neza hagakorwarwa uyu umuti, kandi kikaba kivura neza.

Ubwoko bw'ibyatsi bizwi nk'umuravumba, kaba ari ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye aho bisoromwa bigakoreshwa ariko byatunganyijwe kugira ngo umuti wabyo ube wizewe, akaba ari mu rwego rwo kunoza ubuvuzi bw'abaturage hifashishijwe ibyatsi cyanga se imiti gako.

Amoko menshi y'ibyatsi ndetse n'imbuto arimo tangawizi, igikakarubamba n'ubundi bwoko bw'ibyatsi byifashishwa havurwa indwara zitandukanye kugira ngo abazirwaye bakire, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'imiti ikozwe mu bimera birimo ibyatsi n'igikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi, ikaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye zifata abantu.

Umuntu arimo arakora ku byatsi bivura, bisa nk'ibyatsi bikorwamo umuti gakondo, bikoreshwa havurwa indwara zitandukanye kugira ngo abazirwaye bakire kandi bitabweho neza.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu bimera birimo ibyatsi n'imbuto, ukaba ari umuti uvura neza kandi wizewe, ukaba ukozwe mu gikakarubamba n'ibindi byatsi, ukaba wifashisha kwa muganga, ndetse n'abaturage bakawukoresha bivura.

Amoko y'imiti itandukanye, ikozwe mu gikakarubamba, akaba ari icyatsi gisoromwa, kigakorwamo umuti mwiza kandi uvura neza, hagamijwe kugira ngo hakorwemo ubuvuzi, binyuze mu kwifashisha ibimera.